Aha ni ahantu hari ubucuruzi bugiye butandukanye kuko hari akabari, hari n'iduka ricuruza ibikoresho bya erekitoronike, ibibigaragaza ko ubucuruzi mu Rwanda bumaze gutera imbere ndetse ko ubu ngubu ntakujya gushakira ibintu mu mahanga.

Aha hari icyapa cyamamaza akabari ndetse hari n'ibindi bintu bigiye bikorerwa hafi aho kuko hari amazu menshi y'ubucuruzi, ibi bikaba byerekana ko ubucuruzi bwateye imbere ndetse bugeze kukigero cyo hejuru mu Rwanda.

Aha ni ahantu hacururizwa iibyo kurya n'ibyo kunywa, Ibyo kunywa harimo: imItobe, amazi ndetse n'ibisembuye; ukaba wahagana bakaguha kimwe muri ibyo waba wifuza, ndetse ni ahantu hasa neza, hari intebe nziza, imitako myiza ndetse n'ibindi byinshi.

Aha hari kode ubasha gufotora ugahita ubona ibiciro by'ibicuruzwa biba bicururizwa ahantu. Ubu bukaba ari uburyo bw'ikoranabuhanga bukunze gukoreshwa n'ahantu henshi h'ubucuruzi. Kuko bituma abantu babasha kubona ibiciro by'ibicuruzwa bashaka kugura bitabagoye.

Aha hari abantu bagiye batandukanye aho bamwe bafite amafunguro bari kurya, ni ahantu hacururizwa amafunguro n'ubundi, hakaba hari umuntu urimo urabaha serivise nziza, aho abazaniye bimwe mubyo batumye, ndetse bakaba ubona bishimye bahawe serivise nziza.

Iki ni icyapa cyamamaza inzoga, kuri icyo cyapa ntago hariho inzoga gusa hariho n'abantu bishimye, bari kubyina abari kugirana ibihe byiza n'inshuti zabo, bikaba byerekana ko iyi nzoga ituma inshuti zihura zikishima zikagirana ibihe byiza.

Ahantu hacurururizwa ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa. Mu byo kunywa acuruza ha akaba harimo inzoga, akaba ari nazo ziri hano ku meza ndetse hari n'umuntu wicaye hirya bigaragara ko yaje kugura kimwe mu bintu bicuruzwa aho ngaho, akaba ari ubucuruzi bukunze gukorerwa mu Rwanda.

Hano hari umuntu wambaye imyenda y'umweru ndetse ufite n'imisatsi miremire bigaragara ko ari umugore akaba afite agacupa mu ntoki k'umutobe, ndetse imbere ye hari akabati karimo ibindi byo kunywa bigiye bitandukanye byiganjemo inzoga.

Aha ni ahantu hacururizwa n'ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, ni ahantu hateguye neza, hari amatara meza, hari imitako myiza, ndetse hari n'abantu ubona bishimiye serivisi bari guhabwa. Ubu akaba ari ubucuruzi bukunze gukorerwa mu Rwanda kandi bukaba bufite ikintu bugeraho mu iterambere.

Uru ni urupapuro ruba ruriho ubwoko bw'ibicuruzwa bitandukanye ndetse n'ibiciro byabyo bigiye bigura. Ibi bikaba ari ingenzi cyane kuko bifasha umuguzi kuba yahitamo ibicuruzwa agura ku giciro kimunogeye, bityo ntabe yasesagura amafaranga atari yateganyije.

Ahangaha ni ku kabari kamwe, hakaba hari icyapa cy'inzoga, bigaragaza ko ari yo cyamamaza, gusa si yo gusa, hari n'izindi nyinshi zihacururizwa. Akaba ari ahantu ugana, n'insuti n'abavandimwe, mukishima.

Aha ni ahantu hacururizwa inzoga hakaba hari amoko y'inzoga agiye atandukanye hakaba hari imivinyo hakaba hari n'izi zikomeye tuzi nka rikeri akaba ari ahantu abantu bagana bari kumwe n'inshuti kugira ngo basangire bishimane.

Aha ni ahantu bacururiza ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa bigiye bitandukanye, hari abantu babiri bahagaze aho bakirirwa kugira ngo bahabwe ubufasha bifuza. Aha hantu hakaba hasa neza cyane hari intebe nziza, hari isuku rwose ni ahantu umuntu yakwishimira kujya.

Hano hari urutonde ruriho ibicuruzwa ndetse n'ibiciro by'ibyo bicuruzwa, uru rutonde rukaba rushobora kuba urw'ikigo kimwe cy'ubucuruzi cyerekana uburyo bacuruza ibintu byabo ndetse n'igiciro cyabyo ku buryo umuntu yihitiramo ibifite igiciro kimunogeye.

Hano ni ahantu heza cyane hacururizwa ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, hakaba ari ahantu hateguye neza cyane umuntu yakwishimira kujyana inshuti n'abavandimwe bakagirana ibihe byiza kuko n'ahantu ubona hasa neza cyane umuntu wese yakwishimira kujya.

Uru ni urupapuro rw'ahantu bacururiza ibyo kunywa ndetse n'ibyorya uru rupapuro hariho ibiciro by'ibyo kunywa bacuruza, urugero nk'ikawa icyayi ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye uru rupapuro rukaba rufasha umuntu kumenya ibintu ari bukoreshe amafaranga aribwishyure ku buryo atari buhendwe cyangwa ngo akoreshe amafaranga atari yateganyije.

Aka ni agakayi gatangwa n'abantu bacuruza ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa, kakaba karibo ibiciro bwa buri gicuruzwa bacuruza kakaba gafasha umukiriya wabo kumenya amafaranga ari bwishyure naramuka afashe igicuruzwa runaka.

Aha ni ahantu bacururiza ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, mu byo kunywa higanjemo inzoga ndetse n'ibindi byinshi, ikindi kandi hari na Ekara yarutura yerekana imyidagaduro urugero: nk'umupira, indirimbo ndetse n'ibindi byinshi.

Aha ni urukuta rusizeho irangi ry'umuhondo ndetse n'amagambo yamamaza inzoga ikunze kunywebwa mu Rwanda yitwa sikolu. Bikaba bigaragara ko ari ahantu hacururizwa inzoga hazwi nko mu kabari. Ubucuruzi bw'inzoga bukaba ari ubucuruzi bumaze gutera imbere mu Rwanda ndetse n'ibihugu bituranye na byo.

Uru ni urupapuro ruba ruriho ibicuruzwa ndetse n'ibiciro byabyo, uru rupapuro rufasha abakiriya kumenya buri kintu bagiye kugura ndetse n'amafaranga bari bugitangeho bigatuma batarenza amafaranga baba biyemeje guhahisha.

Aha ni ahantu hacururizwa ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa bigiye bitandakanye, kuko hari ibyuma bikonjesha ibyo kunywa bigatuma bimeze neza; ndetse abantu bakaza kubinywa bigikonje. Ndetse hari umuntu uhagaze imbere yaho bakirira, akaba ari umuntu utegereje umukiriya ko aza ngo amuhe serivisi inoze.

Iki ni icyapa cy'inzoga yo mu bwoko bwa Sikoru. Iki cyapa kikaba kiriho abantu bari kubyina bishimye, biagaraza ko iyo nzoga iyo uyinyweye ugira ibyishimo. Akaba ari bwo buryo bakoresheje bayamamaza.

Aha ni ahantu tuzi nko mu kabari, hakaba ari ahantu bacururiza ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya, tukaba turi kubona icyuma gikonjesha dukunze kwita firigo, kikaba kirimo ibyo kunywa bigiye bitandukanye.

aha nahantu hacururizwa inzoga tukaba turi kuhabona inzoga zamoko agiye atandukanye ndetse n'imashini bakoresha bari kwishyura ubu bukaba ari uburyo bwiza bwo kwishyura hakoresheje imashini kuko bituma abantu bishyura neza kandi ntihabemo kwibeshya.

Aha ni ahantu bacururiza ibyo kurya, ndetse n'ibyo kunywa, mubyo kunywa higanjemo inziga zazindi zihenze cyane, hakaba hari umuntu uhagaze imbere yaho bakiririra uri guha serivise umukiriya uhicaye, ibi bikaba ari ibintu byiza cyane.

Aha ni ahantu hacururizwa ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa. Ni ahantu hari intebe nziza hameze neza, ndetse hari na ekara yarutura ituma abakiriya babasha kureba ibintu bakunda urugero nk'umupira, indirimbo, filimi, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Aha ni ahantu hacururizwa ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa byiganjemo inzoga ndetse n'inyama, hakaba hari abantu baje kugura ibyo bintu bagiye batandukanye ndetse ubona ko bishimiye serivise bari guhabwa, akaba ari ahantu wakishimira gusohokanamo n'inshuti cyangwa umuryango bityo mukishimana.

Iri ni isoko rukorera kuri murandasi ryagaragaje ibiciro byaryo na buri kintu bagenda bacuruza, ibi ni ibintu byiza cyane kuko bifasha umukiliya ubagannye, kumenya buri ikintu agiye kugura amafaranga kigura bityo bigatuma atishyura amafaranga y'umurengera cyangwa agakoresha amafaranga atari yateganyije gukoresha.

Aha ni ahantu hacuruzizwa ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa ibyo kunywa bihacururizwa higanjemo inzoga, hari abantu bahari benshi baje kwishimisha bigaragara ko ari ahantu heza ho kujya n'inshuti n'abavandimwe mukagirana ibihe byiza.

Aha ni ahantu hacururizwa ibyo kurya n'ibyo kunywa. Ibyo kunywa bacuruza harimo inzoga. Bikaba bigaragaza ko ubucuruzi bw'ibisindisha bumaze gutera imbere hano mu Rwanda.

Ahantu hacururizwa ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa mu byo kunywa hakaba higanjemo inzoga haba hari abantu bicaye, inzoga zibateretse imbere ubona ko rwose bishimye, akaba ari ahantu heza umuntu yakwishimira gusohokana n'inshuti n'abavandimwe.

Aha hantu ni hantu hacururizwa ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, mu byo kunywa hakaba harimo inzoga ndetse n'ibindi byinshi, hari abantu bahari bigaragara ko baje kugura kimwe muri ibyo bintu, bigaragaza ko nawe wahajya ukaba wahabwa ibi bintu ku giciro gito.

Aha urahabona akapa kariho code, iyo ikaba ariyo kode umuntu afotora bikamufasha kubona ibyerekeranye naho hantu yagiye, ibiciro ndetse n'ibindi bintu byose bijyanye naho ibi bikaba ari ibintu byiza cyane ndetse bijyanye n'ikoranabuhanga

Aha ni ahantu hacururizwa ibyo kuryo n'ibyo kunywa, hakaba hari abantu bakirije ibyo kunywa byiza, imitobe iryoshye, bikaba bigaragara ko n'undi wese yahajyana n'incuti ze n'abavandimwe bagasabana bakishimana.

Aha ni ahantu hacururizwa ibyo kurya n'ibyo kunywa, ariko mu byo kunywa bihacururizwa, harimo n'ibisembuye, bikaba byumvikanisha ko ari mu kabari. Wahagana uri kumwe n'inshuti n'abavandimwe, mukagirana ibihe byiza mukishima.

Iyi ni kode bashyira ahantu hacururizwa ibicuruzwa bigiye bitandukanye, aho ufata telefone ukayifotora ubundi ugahita ubona urutonde rw'ibicuruzwa bagira ndetse n'ibiciro byabyo bikakorohereza kuba wakishyura mu buryo bworoshye.

Aha n'ahantu hacururiza ibyokurya n'ibyokunkwa byiganjemo inzoga harabantu bishimye rwose bari guhabwa serivise nziza, ahantu n'ahantu ho gusohokanira n'incuti n'abavandimwe mukagirana ibihe byiza kandi mukishima.

Iki ni icyapa cyamamaza inzoga, ariko bakaba banatanga ubutumwa bw'uko umuntu atagomba kunywa inzoga nyinshi, kandi ko atanemerewe kuyinywa niba ari munsi y'imyaka cumi n'umunani ibi akaba ari ibintu by'ingirakamaro cyane rwose.

Aha hari icyapa cy'akabari ndetse hari n'ibindi byapa bigiye bitandukanye by'utubari, bigaragaza ko ari agace kagiye karimo utubari twinshi, bikaba bisobanuye ko mu Rwanda, icuruzwa ry'ibinyobwa bisindisha rimaze gutera imbere.

Aha ni hantu bacururiza ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, mu byo kunywa higanjemo inzoga, ndetse n'ibindi bitandukanye, ni ahantu heza kuko hari amatara meza, hari imitako myiza, ubona ko ari ahantu rwose heza cyane wakishimira gusohokera.

Hano hari umugore uri kureba muri terefone, uko bigaragara ahantu ari hari itara ry'umutuku riri kumumurika; bigaragara ko ari nk'ahantu yasohokeye akaba ari kwishimisha, urabona ko ameze neza!

Aha hari ibyokunywa bigiye bitandukanye: mu makesi harimo ibyokunywa tuzi nk'ibisindisha, hejuru mu kabati hari imitobe y'amoko atandukanye; bigaragara ko aha hantu wahagana bakaguha ibyokunywa ugashira inyota ukamera neza.

Aha ni ahantu hacururizwa ibyo kurya n'ibyo kunywa aho tuzi nko mukabari hakaba hari inebe nziza ndetse n'indi mitako myiza ni ahantu hafite isuku rwose wakwishimira kujyana n'inshuti n'abavandimwe ukishima.

Aha hari icyapa kiriho inzoga bigaragaza ko aha hantu kiri ari ahantu tuzi nko mu kabari hacururizwa inzoga, imitobe ndetse n'ibindi bintu byo kurya bitandukanye urugero nk'inyama zokeje ndetse n'ibindi byinshi.

Aha ni ahantu twakwita mu kabari hacururizwa ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya, hakaba hari abantu bahahagaze baje guhabwa izo serivisi ndetse hakaba hari na ekara ya rutura iri kwerekana umupira bikaba bihagira heza kurushaho.

Aha icyapa, icyapa kiriho icupa ry'inzoga ndetse n'ikirahure, iki cyapa kikaba kirimo kiramamaza ino nzoga, kivuga ibyiza byayo ndetse n'uburyo yatuma abantu bamera neza baramutse bari kuyinywa.

Aha ni ahantu hagirirwa ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya, hakaba hari inzoga iteretse imbere bigaragara ko ari ahantu hacururizwa inzoga izingizi zikaze dukunze kwita rikeri ndetse hari umuntu wicaye ufite telefone bigaragara ko ariwe wakiriwe uri ahongaho.

Aha hari abantu benshi bagiye batandukanye ndetse si ibyo gusa hari n'inzoga. ikindi kandi hari na ekara iri imbere yerekana umupira. Iki kikaba ari ikintu gikunze kuba kiri mu tubari twinshi, kuko abantu benshi baza mu kabari batazanwe no kunywa gusa, ahubwo baba baje no kwishimisha bareba umupira.

Aha ni ahantu heza cyane hari amatara y'amabara atandukanye urugero nk'ubururu ndetse n'umuhomdo, ikindi hatatse neza cyane kandi hari n'amacupa y'inzoga bigaragare ko hacururizwa icyo kunywa.

Aha ni ahantu bacururiza ibyo kurya ndetse no kunywa, hasa neza cyane hateye amabengeza ndetse hari imitako myishi hakaba ari ahantu wakishimira gusohokanira

Aha ni ahantu bacuruza ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa bitandukanye turahabona abantu benshi baje kugura ibyo bintu rwose ukaba ubona ari ahantu heza wasohokanira n'inshuti n'abavandimwe mukagirana ibihe byiza muzahora mwibuka.

Aha ni ahantu bacururiza ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa byiganjemo inzoga hakaba hari abantu batatu umugabo umwe n'abagore babiri bahagaze imbere y'akabati karimo inzoga, akaba ari ahantu ugana bakaguha serivise nziza cyane kandi inoze.

Iki ni icyapa cy'akabari, kikaba cyamamaza inzoga ariko hakaba hari ko igomba kumwebwa n'umuntu urengeje imyaka cumi n'umunani ndetse ko n'utwite atagomba kuyinywa ndetse ko n'uyinyweye agomba kunywa mu rugero.

Iki ni igipapuro cyerekana ibicuruzwa ndetse n'amafaranga bigura, kikaba gifasha abakiriya kumenya amafaranga bari bwishyure, bikaba byabafasha gutuma badakoresha amafaranga batari bateganyije gukoresha, bityo bikagenda neza.

Aha hari igipangu hejuru yacyo hariho icyapa cyamamaza inzoga bigaragara ko ari akabari. Akaba ari ahantu wajyana inshuti n'abavandimwe mukahafatira ibyo kunywa bisindisha cyangwa ibidasindisha ndetse n'amafunguro yandi.

Aha hari umugabo uhagaze ahantu hacururizwa ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya byiganjemo inzoga, ni ukuvuga mu kabari. Akaba ari ahantu hatangirwa ibintu nk'ibyo bikaba bifasha abantu kuba basohokana inshuti n'abavandimwe bakizihirwa.

Iri ni icupa ry'inzoga iyi nzoga ikaba yitwa virunga akaba ari imwe mu nzoga abantu benshi bakunda cyane kubera uburyohe bwayo, ndetse abantu benshi bakitabira kuyinywa kuko iyi ni inzoga igura amafaranga make kandi ikaba ifite uburyohe budasanzwe.

Aha ni ahantu hacururizwa ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa mu byo kunywa harimo inzoga byumvikanishako ari mu kabari cyangwa ahandi hantu hajya kumera nkaho. Hakaba hari intebe nziza zikoze mu giti ndetse hari n'umuntu uzicayeho wicaye imbere y'aho yakirirwa.

Aha ni ahantu hacururizwa ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, mu byo kunywa higanjemo inzoga, hari inzoga z'amoko atandukanye, hari imivinyo, hari n'izi za rufuro, harimo izindi zikaze cyane izo dukunze kwita rikeri ndetse si ibyo gusa hakaba hari n'amafunguro, wahagana bakagufata neza.

Hano hari iduka, hejuru y'iryo duka hari icyapa cyamamaza inzoga, iryo duka bikaba bigaragara ko naryo ricuruza inzoga, ndetse n'ibindi bitu bijyanye nazo, kuri icyo cyapa cyamamaza inzoga hakaba harimo abantu bishimye, rwose bikaba bigaragaza ko iyo nzoga iyo uyinyweye ugira ibyishimo.

Aha hari agapapuro dukunze kwita inyemeza bwishyu. Aka n'agapapuro baguha iyo umaze kugura ikintu ,kerekana ibintu waguze ndetse n'amafaranga wishyuye, ukaba rero wemererwa kwitwa ko wishyuye n'agaciro cyane ubuhahirane ndetse n'ubuguzi mu Rwanda.

Aha hari abantu babiri umwe afite ikarita undi afite icyuma bashyiraho iyo karita icyo cyuma kigakuraho amafaranga ubu bukaba ari uburyo bwiza butuma umuntu abasha kwishyura bimworoheye kandi ikoranabuhanga bikaba ari ibintu bigezweho.

Iri ni icupa ririmo inzoga ndetse n'ikirahure nacyo kirimo inzoga, ndetse hari n'ama Ekara abiri ari kwerekana umupira, bikaba bigaragara ko hano ari mu kabari aho usanga ibi bintu byose.

Aha ni ahantu bacuruza ibyo kunywa bigiye bitandukanye, byiganjemo inzoga, urugero nk'izo tuzi nka rufuro ndetse n'izindi zikaze tuzi nka rikeri. Hakaba ari ahantu umuntu yajyana n'inshuti ze bakishimana.

Aha ni ahantu hacururizwa ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa hakaba hateye amabengeza. Hari ibirahure byiza, hari ameza meza, hateguye neza rwose bigaragara ko ari ahantu heza wajyana n'inshuti n'abavandimwe mukagirana ibihe byiza muzahora mwibuka.

Aha ni ahantu hacururizwa ibyo kunywa byiganjemo inzoga, aho turi kubona inzoga zimwe zikaze zizwi nka rikeri ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Hakaba ari ahantu wasohokera n'inshuti n'abavandimwe, mukagirana ibihe byiza.

Aha ni ahantu hacururizwa inzoga ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye iba irikwerekan ibintu bijyanye n'imyidagaduro ibi bikaba ari ibintu byiza cyane kuko bituma babasha gusangira n'inshuti ndetse n'abavandimwe ndetse banishimisha.

Iki ni icyapa kiba kiriho ibicuruzwa ndetse n'ibiciro byacyo, kuko gifasha umukiriya kumenya buri gicuruzwa amafaranga kigura bityo akamenya amafaranga ari bukoreshe ntabe yakoresha amafaranga atari yateguye gukoresha.

Uy ni umugabo urimo arasuka ubwoko bw'inzoga bugiye utandukanye abuhuriza mu kintu kimwe akaba ari gukora uruvange rw'inzoga zitandukanye , nk'uko abantu benshi bakunda kubikora bagafata inzoga nyinshi zitandukanye bakazivanga bakazinywa nk'aho ari inzoga imwe.

Aha hari icyapa cy'inzoga bigaragara ko ari ahantu hacururizwa inzoga aho tuzi nko mu kabari ndetse hari n'imodoka ziparitse iruhande, bigaragara ko ari abantu bazijemo, baje kwishimira ibyiza bagezeho, bari kumwe n'inshuti n'abavandimwe.

Aha ni ahacururizwa ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa hari abantu bagiye batandukanye bahaje ngo bahabwe izo serivise, ni ahantu hameze neza rwose hari n'ameza hari intebe hateguye neza ndetse hari n'ibikenerwa byose kugira ngo umuntu yishimane n'abe.

Iki ni icyapa cyakabaye ari ikerekana ibintu bacuruza birimo inzoga, inyama ndetse n'ibindi ikindi kandi hariho na nimero ushobora kubahamagaraho mugihe wifuza serivise zabo turabona ko bafite inzu nziza rwose ni ahantu heza ho gusohokana n'inshuti ndetse n'umuryango.

Aha hari inzoga ndetse hari n'agapapuro kariho code ushobora gufotora ikakujyana ahantu ushobora kubona ibiciro bicuruzwa aha hantu bityo ukabasha kwishyura bitakugoye, ubu bukaba ari uburyo bwiza kandi bw'ikoranabuhanga bufasha abantu kuba babona ibiciro mu buryo bworoshye.

Aha hari agapapuro kaba kariho ibicuruzwa ndetse n'ibiciro byabyo, aka gapapuro ikintu kamaze gafasha abantu kumenya ibiciro by'ibintu bagiye kugura bityo bikabafasha kugura ibintu badahenzwe kandi bakanamenya amafaranga bari buze gukoresha bityo ntibarenze umubare w'ayo biyemeje.

Aha ni ahantu hagurirwa ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa bigiye bitandukanye, urugero nk'inzoga ndetse n'ibindi, haka hari abantu abantu batandukanye bigaragara ko aribyo baje kugura, akaba ari ahantu heza wagana uri kumwe n'inshuti ndetse n'abavandimwe.

Aha hari ikibaho cya kamwe mu tubari kerekana serivise batanga aho bavuze ko nko ku wambere ugura imboga ebyiri ugura inzoga ebyiri bakakongeza indi imwe ndetse bavuze n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye byakurura abakiriya bakaza.

Aha hari intebe n'ameza, bigaragara ko ari ahantu hakirirwa abakiriya baje kugura ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa. Aha hakaba hafasha abantu cyane nk'abantu bari ku rugendo bakaba bafite inyota, barahanyura bagafata icyo kunywa ubundi bagakomeza urugendo.

Aha ni mu kabari, hagurishirizwa ibyo kurya hongewemo inyama ndetse n'ibyo kunywa, byiganjemo inzoga. Turi kubona hafite n'imitako myiza, intebe nziza, ndetse n'aho bakirira abantu ni heza cyane. Aha hantu harakwiriye kuba wahajyana inshuti n'abavabdimwe mukishima.

Aha hari umuntu uri kugenda yambuka umuhanda w'amabuye, ari kugenda agana ahantu hari umutaka w'umuhondo kandi umutaka w'umuhondo kandi ahari umutaka w'umuhondo, hari icyapa cyamamaza inzoga ndetse hari n'umuryango bigaragara ko hari izindi serivise zitangirwamo bishoboka cyane kuba agiye guhita yinjramo.

Aha ni ahantu hagurirwa ibyo kurya, mu byo kunywa bagira harimo inzoga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ni ahantu hasa neza, hari intebe nziza, hari imitako myiza, ndetse hari abakozi bambaye neza, biteguye gutanga serivise inoze.

Aha ni ahantu bacururiza ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, turabona umugabo wicaye, akaba yaje kugura izo serivisi zitangwa aha ngaha, kuko ubona ko ari ahantu hameze neza cyane wasohokanira inshuti n'abavandimwe mukishima.

Aha ni ahantu bacururiza ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, hakaba hari ubwoko bw'inzoga bugiye butandukanye kandi inzoga zihenze, akaba ari ahantu heza cyane ushobora kuzana n'inshuti n'abavandimwe mukagirana ibihe byiza muzahora mwibuka.

Aha ni ahantu hacururizwa ibyo kurya n'ibyo kunywa mu byo kunywa higanjemo inzoga. Hakaba hari abantu benshi ubona baje guhabwa izo serivisi, ubu akaba ari ubucuruzi bukunze gukorerwa hano mu Rwanda bwogufasha abantu kuba basohokana n'inshuti n'abavandimwe bakishimana.

Hano hari ahantu hasa neza, hateguye neza, hari amatara y'amabara atandukanye, ubona rwose ko hameze neza cyane, ari ahantu hiyubashye; bikaba bigaragara ko ari ahantu hacururizwa ibyo kunywa byiganjemo inzoga ndetse n'ibyo kurya.

Aha n'ahantu bacuruza ibyo kurya n'ibyo kunywa bigiye bitandukanye ,aho tubona inzoga z'amoko atandukanye , ndetse hari niziri mucyuma gikonjesha kimwe tuzi nka firigo ,sibyo gusa hatatse neza har' imitako ku nkuta, ndetse hari n'indabo nziza ziteretse ku meza.

Hano hari umusore urimo urafata ifoto iyo foto ikaba yerekana ibyo kunywa bigiye bitandukanye, urugero nk'imivinyo ndetse n'izindi nzoga zigiye zitandukanye, si ibyo gusa kuko kuruhande hari aka meza kariho ikayi ikayiyandikamo ibintu aba yagurishije uwo munsi.

Hari umuntu uri kugendagenda agana ahantu hari icyapa kiriho inzoga byerekana ko iri kwamamazwa. Inyuma y'icyo cyapa hari amamodoka ahaparitse, bigaragara ko ba nyiri aya mamodoka bashobora kuba baje kwaka serivisi zitangirwa hafi aho, kuko hari imiryango yerekana ko hari serivisi zitangirwa aho ngaho.

Aha ni ahantu hacururizwa ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, mu byo kunywa hakaba higanjemo inzoga, imitobe ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Hakaba hari amatara meza cyane asa ubururu, hakaba ari ahantu umuntu yakwishimira gusohokanira inshuti n'abavandimwe.

Aha hari ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo inzoga turabona izi tuzi nka rufuro ndetse na zimwe zikaze tuzi nka liquer ndetse hari n'imivinyo, sibyo gusa hari na ecran yarutura yerekana umupira.

Ahatangirwa serivise ry'ubucuruzi by'ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye hifashishijwe ikoranabuhanga, umuguzi wambaye imyenda irimo ibara ry'ubururu ndetse n'umweru ahatangirwa ubucuruzi harimo ibara ry'umweru

Aha hari imiryango igiye itandukanye iriho ibyapa byamamaza igaragaza ko ari ahantu habera ubucuruzi ariko hejuruhari n'icyapa kiriho icupa ry'inzoga ndetse n'ikirahure bigaragaza ko mu bucuruzi buhakorerwa harimo n'akabari.

Aha ni ahantu hacururizwa ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa. Uko twitegereje mu nguni y'ibumoso hejuru, urabona ko ahandi harimo ibyo kunywa byiganjemo inzoga. Ni ahantu hasa neza cyane, kuko hari intebe nziza, hateguye neza ndetse hari n'amatara meza cyane.

Aha ni ahantu hagurishirizwa ibyo kurya ndetse n'ibo kunywa, haba ari abantu bagiye batandukanye hajaje bigaragara ko na bo baje kugura ibyongibyo. Ukaba ubona ari abantu bishimye, rwose urabona ko bahawe serivise nziza. Ni ahantu hameze neza, hateye amabengeza, hasa neza rwose.

Hano hari imitaka ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'abandi bantu bicaye hafi y'iyo mitaka, bigaragaza ko ari mu kabari ahantu bacururiza inzoga, ndetse n'ibindi bintu bijyanye nazo akaba ari ahantu wakishimira gusohokana n'inshuti n'abavandimwe bakamererwa neza.

Aha ni ahantu hacururizwa ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, mu byo kunywa harimo inzoga, zikaba ari inzoga z'amoko atandukanye, harimo za rufuro, ndetse n'imivinyo, ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, ibi bikaba bigaragaza ko ubucuruzi bw'ibisindisha mu Rwanda bumaze gutera imbere.

Aha ni ahacururizwa amata, aya akaba ari amata ari mu gakarito afitwe n'abantu babiri, akaba ari amata ushobora kugendana mu nzira kuko aba apfunyitse neza, bikaba ari iburyo bwo bwiza kuyapfunyika kuko ubasha kuba wayanywera ahantu hose ushatse.

Aha ni ahantu hacururizwa amata ndetse n'ibindi bintu biyakomokaho, urugero nk'ibingibi turi kubona ni amata bafata bakongeramo isukari ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, agasohoka tuyazi nk'uko yitwa yahurute, akaba ari ikinyobwa gikunze kunywebwa mu Rwanda ndetse no hanze yarwo.

Aha hari umugore utunze urutoki ku rupapuro rw'ibiciro, ari kwereka umukiriya we ibiciro amata agezeho kuko ari yo acuruzwa hano. Ikindi kandi turahabona n'icyuma gituma amata akomeza ameze neza, bityo bakaza kuyagura atarangirika.

Aha n'ahantu hacururizwa amata ndetse nibindi bintu bijyana nayo, hakaba hari abantu batatu bose bari kunkwa amata ubona ko banezerewe, ikinyobwa cyamata nikinyobwa gikunze kunyobwa no m'urwanda kubera intungamubiri kigira.

Aha ni ahantu hacururizwa amata ndetse n'ibindi bintu bitandukanye urugero nk'imitobe, n'indi mitobe yongera imbaraga. Ni ibintu rwose byiza cyane, hakaba hari uri kwakira abakiriya akaba ahagaze imbere y'umukiriya ugiye kumwishyura.

Aya ni amacupa ari aha, yabigenewe, y'ikigo cyitwa jibu. Kikaba ari ikigo gutanga amazi isa neza, afite isuku, yo kunywebwa, atuma abantu bamererwa neza, kandi bakirinda indwara zituruka ku mirire n'iminywere mibi.

Aha ni ahantu hacururizwa ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa mu byo kunywa harimo imitobe, icyayi, amata ndetse n'ibindi, hari umuntu wicaye ari we w'umucuruzi ndetse n'undi uhagaze ari we w'umukiriya akaba ari kwishyura nyuma yuko ahawe serivisi.

Aha ni ahantu hacururizwa amata ndetse n'ibindi bintu biyarishwa, hano hari umugabo waguze amata ndetse hari n'isahani imuri iruhande iriho keke, bigaragara ko ari yo ari kurisha amata, ibi bikaba ari ibintu bisubizamo umuntu imbaraga nk'iyo aruhutse ubundi agahita asubira mu kazi.

Aha hari isahani iriho keke eshatu, ndetse n'agasani bazifatisha. Iruhande rw'iyo sahani hariho agakombe k'ikawa bikaba bigaragara ko ari umuntu wahoze ari kunywa ikawa, ari kuyirisha izo keke.

Aka ni akajerekani k'amata. Amata akaba ari igicuruzwa gikunze gucuruzwa mu Rwanda, kuko ari igicuruzwa gikunzwe, abantu benshi bakunda; ndetse gifite akamaro cyane kuko gituma abana bagira imikurire myiza, bityo ntibagwingire.

Aha ni ahantu bacururiza ibyo kurya bigiye bitandukanye, hari indobo irimo amandazi, irimo capati n'irimo amagi ndetse hari n'imineke irambitse ku meza. Bikaba bigaragaza ko iyo umuntu abagannye bamuha ibyo kurya akagira akabaraga agasubira mu kazi.

Hano hari udukombe turimo amata, amata aba yatunganyirijwe mu nganda akongerwamo isukari ndetse n'ibindi bintu. Aya mata tukaba dukunze kuyita yawurute, aya mata ni ingirakamaro cyane kuko afasha abana mu mikurire yabo kandi aranaryoha barayakunda.

Aha ni ahantu hacururizwa amata hakaba hari umuntu uri kuyasuka mu kirahure ndetse hari n'ibindi birahure agiye arimo, ubu bukaba ari ubucuruzi bukunze gukorerwa mu Rwanda kuko amata ari ikinyobwa gikunze kunywebwa n'abantu n'ingeri zose hano mu Rwanda ndetse n'ibindi bihugu bituranye na rwo.

Hano hari ibicuruzwa bikomoka ku mata, aho bafata amata bakayanyuza mu nganda bakongeramo ibindi bintu nk'isukari ndetse n'ibindi bitandukanye, ibyo bicuruzwa rero iyo birangiye nibyo dukunze kwita yahurutse, bikaba ari ibicuruzwa biryoha cyane kandi bikunze kugurwa hano mu Rwanda.

Utu ni utujerekani tw'umweru ndetse ku ruhande rw'ibumoso hari n'akandi ku muhondo. Utu tujerekani tukaba tugiye twanditsweho amazina bishoboka ko ari amazina ya banyiratwo bari buze kudutwara, ibi bikaba ari byiza cyane kuko bituma buri wese amenya akajerekani ke ari butware.

Aha ni aho bacururiza amata ndetse n'ibayakomokaho. Hakaba hari ibikomoka ku mata dukunze kwita yawurute aho bafata amata bakayashyira mu ruganda, bakayongeramo ibindi bintu bigiye bitandukanye akaza ameze gutya. Iki kinyobwa kikaba gikunzwe kunyobwa hano mu Rwanda ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye ku Isi.

Uru ni urugi rw'ahantu bigaragara ko bacururiza amata cyamamaza amata, herekana inka kandi birazwi ko ari zo ziturukaho amata, aha hantu ukaba wahagana bakaguha amata ku giciro kiza ndetse kandi kikunogeye.

Aha ni ahantu hacururizwa amata ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, urugero nk'imitobe ndetse n'ibindi byinshi, ukaba uhagana bakaguha amata meza ku giciro gito cyane bityo niba waruri nko mukaruhuko ugasubira mu kazi ufite imbaraga.

Hari abantu bagiye batandukanye bose bari kunywa ikinyobwwa cyo mu bwoko bw'amata, iki kikaba ari ikinyobwa gikunze kunyobwa mu Rwanda kuko kigira intungamubiri ndetse ubu bucuruzi bw'amata bukaba bukunze gukorerwa hano mu Rwanda.

Aha ni ahacururizwa amata ndetse n'ibigendana nayo, ibikoresho bibiri bihateretse kimwe kizwi nka teremusi kikaba ari icyo babikamo icyayi cyangwa se ibindi bintu bigenda bishyushye bityo umukiriya akaza kubigura bigishyushye.

Aha ni ahacururizwa amata ndetse n'ibiyakomokaho, ariko hari n'amazi yo kunywa yo mubwoko bwa nili, aya akaba Ari amazi meza aba afite isuku unywa akagufasha kugira ubuzima bwiza bikakurinda kuba warwara indwara ziterwa n'imirire mibi cyangwa amazi yanduye.

Aya ni amacupa y'amazi akorwa n'uruganda rwa niri akaba afite ritiro imwe n'igice akaba ari amazi akunze kunywebwa mu Rwanda kuko ari amazi aba afite isuku kandi meza cyane bikaba birinda abantu indwara ziterwa n'iminkwere mibi bikaba ari ibintu byiza cyane.

Aha hari abantu bagiye batandukanye, hari nk'abafite igicuba gusa gikozwe mu cyuma bari gusuka mu cyuma gikonjesha amata. Aha hakaba hakorerawa ubucuruzi bw'amata akaba ari ubucuruzi bukuzwe gukorerwa mu Rwanda kuko aribwo bucuruzi burimo amafaranga.

Aha ni ahantu hacururizwa ibyo kurya n'ibyo kunywa, turi kuhabona icyuma gitunganya amata bisobsnuye ko mubyo bacuruza harimo amata ndetse hari n'akabati karimo amagi, ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, akaba ari ahantu wajya ukabasha gufata ifunguro ritoya bityo ukabasha gusubira mu kazi niba wari uje nko mukaruhuko.

Aha ni ahantu bacururiza amata hari umugore wicaye imbere y'icyuma gikonjesha amata akaba yagifunguye kikaba kiri gusuka amata mu kajerekani. Ubu bukaba ari uburyo bwiza bwo kubika amata kuko bituma amara igihe kinini atarangirika.

Aha hari ameza arimo utuntu tw'uduti tuzwi nka kirida utu tuntu tukaba dufite akamaro ko gukura ibintu biba byafashe mumenyo y'umuntu mugihe yarari kurya urugero nk'inyama ndetse n'ibindi bishobora gusigara mumenyo y'umuntu mugihe ari kurya.

Aha hari isahani iriho amasambusa, akaba ashobora kuba akozwe mu birayi cyangwa se mu nyama; iki kikaba ari ikiribwa gikunze kuribwa inaha mu Rwanda ndetse no mu bihugu by'ibituranyi, kuko ari ikiribwa kiza kandi kiryoha ikindi kandi gihendutse.

Aha hari amajerekani abiri y'ikigo cy'amazi cyitwa Jibu, aya mazi akaba aba asukuye ndetse ku giciro gito, ibi bintu bikaba bifasha kuba abantu banywa amazi asukuye bakirinda kuba barwara indwara zituruka ku minywere cyangwa imirire idafite isuku.

Aha n'ahantu hacururizwa amata ndetse nibiyaturukaho hari umugore uri kuyasuka mukajerekani akaba ari kuyasukira umukiriya amuha serivise inoze, icyokunkwa cyitwa amata akaba ari ikinyobwa kiza cyane kandi gifite intungamubiri.

Aha ni ahantu bacururiza amata ndetse n'ibikomoka ku mata, akaba ari uruganda rwitwa Mukamira akaba arirwo rubicuruza, hakaba inyuma y'ahantu bakirira hari abantu biteguye kwakira ababagana bakabaha serivisi nziza.

Aha hari ibipapuro bipfunyitsemo amakeke, akaba ari ikiribwa gukunze kuribwa mu Rwanda, ndetse n'ahandi hantu hatandukanye ku isi. Kikaba gikunda kurishwa amata, cyane cyane ko n'ahangaha kiri ari ahantu hacururizwa amata ndetse n'ibindi bintu biyakomokaho.

Aha hari akado karimo impapuro z'isuku ziri mu ishashi. Izi mpapuro zigufasha kuba wafata ikintu uri nko kukirya utagikozeho, wenda ufite intoki zidasa neza ntube wacyanduza. Izi mpapuro zikaba zirinda indwara zaturuka ku mirire mibi cyangwa yanduye.

Aha hari umuhanda impande y'uwo muhanda hari moto. Iyo moto ikaba iparitse imbere y'ahantu bacururiza amata hakaba ndetse hari n'icyapa cyerekena ibintu bacuruza: urugero nk'imitobe, amata ndetse nibyo kurya bakoresha bari kunywa ayo mata.

Aha ni ahantu hacururizwa amata ndetse n'ibiyaturukaho, aha hari umugore uhahagaze imbere y'ameza ufite igikapu ndetse hari n'akajerekani gateretse imbere ye, ikindi kandi imbere yayo meza hari Intebe, bigaragara ko biteguye kwakira ababagana bakabahaha serivise nziza.

Ahantu bacuruza ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa urugero nk'amata, hano turabona hari indobo iteretse ku meza irimo amandazi, ntetse hari n'indi iyiri iruhande rwayo, hariho akantu k'icyuma ubona ko ari ko bakoresha baterura ayo mandazi.

Aha ni ahantu bacururiza ibyo kunywa bigiye bitandukanye, urugero nk'amazi, imitobe ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, bikaba biteretse mu kabati, ukaba ubona ko bipenze neza kuri gahunda, ndetse imbere yayo hari intebe.

Aha hari umugore wicaye wambaye umupira w'ubudodo ndetse unafite imisatsi isutse, yicaye ku meza ategereje ko bamwakira ukaba ubona ko yizewe guhabwa serivise nziza.

Aha ni ahantu hacururizwa ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa bitandukanye. Aha hari kugaragara imitobe y'amoko menshi, bigaragara ko wahagera ukahafata ifunguro rito wenda wari uri mu kazi ubundi ugakomeza akazi kawe umeze neza.

Iyi ni imigati akaba ari ikiribwa gikunze gukoreshwa hano mu Rwanda akaba ari ikiribwa kiba gikoze mu ifarini, abantu benshi bakunda kugikoresha mu gitondo nk'ifunguro rito ryo gutangira umunsi.

Ahantu hacururizwa amata ndetse n'ibiyaturukaho, hari icyapa kiriho bimwe mubyo bacuruza, urugero nk'amata bafunze mu gakarito, ari mu kajerekani ndetse nandi banyuza mu ruganda atuzi nka yawurute, ni ibintu rwose byiza cyane.

Ibi ni ibyuma bishinzwe gutunganya amata bikayakonjesha kuburyo amara igihe kinini, kuburyo abakiriya baza kuyatwara akimeze neza. Ibyuma ni ingirakamaro cyane kuko ubundi amata ntago yamara igihe kinini atarapfa, aramutse atari ahantu nk'aha.

Aha ni ahantu hacururizwa amata ndetse n'ibindi bintu biyaturukaho, hakaba hari umuntu ufite ijagi urimo urasukamo amata bikaba bishoboka ko agiye kuyaha umukiriya waje kuyagura. Ubucuruzi bw'amata akaba ari ubucuruzi bukunze gukorwa hano mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye.

Aha ni ahantu hacururizwa amata ndetse n'ibiyaturukaho hakaba hari ibintu bigiye bitandukanye, imitobe ndetse n'ibindi byinshi ukaba wahagana bakaguha amafunguro yagufasha kuba wasubira mu kazi ufite imbaraga.

Aha ni ahantu bacururiza amata ndetse n'ibigendanye na yo. Urabona ahantu bicaye, bari kuyanywa bishimye cyane. Iki kinyobwa cy'amata gikunze kunyobwa mu Rwanda, kuko hari ubworozi bw'inka nyinshi, bityo bigatuma amata byoroha kuyabona.

Aka ni agakarito k' umutobe w'amatunda, kaba ari umutobe ukorwa n' uruganda rw' inyange, ukaba ukunze kunywebwa n'abanyarwanda ndetse n'abandi bantu bo hanze, kuberako uryoha kandi ukaba ugira n'intungamubiri nyinshi cyane.

Iki nicyuma bashyiramo amata kikayakonjesha bigatuma amara igihe kinini atarapfa bityo abakiriya bakaza kuyatwara akimeze neza agifite ubuziranenge, ubu nuburyo bwiza cyane butuma icuruzwa ry'amata rikomeza kugenda neza.

Aha ni hacururizwa amata ndetse n'ibiyaturukaho, hakaba hari amata mude agiye ari mu tujerekani. Akaba ari ahantu wagana bakaguha amata meza kandi ku giciro gito ukanyurwa. Nkwibutsa ko amata ari ikinyobwa kiza gifite intungamubiri kigira uruhare mu mikurire y'abana.

Aha ni ahantu hacururizwa amata ndetse n'ibiyakomokaho, hakaba hari umugore waje kugura amata kuko hari igikombe kimuteretse imbere kirimo amata, bikaba bigaragaza ko ubucuruzi bw'amata bumaze gutera imbere. Impamvu bwateye imbere ni uko mu Rwanda hari ubworozi bwinshi bw'inka bityo bigatuma amata aboneka ku bwinshi.

Aha ni ahantu bacururiza amata ndetse n'ibindi bintu bikomoka ku mata, hano hari umugabo uri gusuka amata mu kirahure, akaba agiye kuyahereza umukiriya we, iyo akaba ari serivisi nziza cyane, ndetse bikaba bifasha abantu kubona ibyo kurya gutyo bakabasha gukomeza akazi kabo kadapfuye.

Aha hari isahani iriho amasambusa amasambusa akaba ari ibintu bakora mu ifarini hanyuma imbere bagashyira inyama ibi bikaba ari ibintu bikunze kuribwa mu Rwanda ndetse n'ibindi bihugu bikikije u Rwanda.

Aha ni ahantu hitwa mukamira bakaba bacuruza ibintu bijyanye n'amata ndetse n'amata ubwayo tukaba turi kubona icyuma gikonjesha amata kigatuma akomeza ameze neza bityo abakiriya bakaza kuyatwara atarangirika.

Hano hari umugabo wicaye mu kaboko k'ibumoso ke afitemo akajerekani, hama mu kandi kaboko ke arimo arasuka amata mu cyo dukunze kwita ijagi, ukaba ubona ko ari akazi ke ka buri munsi, kuko ari no kugakora afite akanyamuneza.

Aha ni ahantu bacururiza ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, mu byo kunywa higanjemo imitobe, amata ndetse n'ibindi, akaba ari hantu wagana ukabona ibyo kurya ku giciro gito kandi ibigufasha bikaguha imbaraga, niba waruje nko mu kiruhuko ugakomeza akazi kawe ufite imbaraga.

Aha hari icyuma gikonjesha icyo bakunze kwita firigo muri icyo cyuma harimo amata ndetse n'ibindi bintu bikomoka ku mata, ndetse hari nicupa ry'amazi. Iki cyuma kikaba ari kiza cyane kuko gituma amata atinda gupfa bityo abayagura bakaza kuyagura akimeze neza.

Aha ni umuntu uri kunywa ikintu tuzi nka yawurute, aya akaba ari amata bacisha mu ruganda bakongeramo ibintu bitandukanye bituma aryoha, iki kinyobwa gikunze kunywebwa mu Rwanda ndetse n'ahandi hantu hatandukanye ku isi kubera uburyohe bwacyo.

Aha ni ahantu hacururizwa amata ndetse n'ibiyakomokaho, hari igikombe kirimo amata ndetse n'isahane byose biteretse kumeza bikaba bigaragara ko ari umukiriya bamaze kwakira amaze guhabwa serivise inoze, ubu bukaba ari ubucuruzi bukunze gukorerwa m'urwanda.

Aha hari igikombe cy'amata ndetse na keke, umuntu akaba ari ahantu hagurirwa ibyo kurya n'ibyo kunywa, iri rikaba ari ifunguro ushobora gufata uri nko mu karuhuko kugira ubone imbaraga zo gusubira mu kazi bityo ukagakora neza.

Aha ni ahantu bacururiza ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, hari umugore bari guhereza ikivuguto. Ikivuguto akaba ari amata aba yavuze bityo akabasha kuba yaryoha ndetse abantu banayanywa bakumva abafashe mu nda, bakumva bameze neza.

Aha ni ahantu hacururizwa ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa turi kubona indobo zirimo amandazi, keke ndetse n'ibindi, sibyo gusa hari umuntu uhagaze imbere yaho bakirira abantu akaba ari we uhacuruza ndetse hari n'umwe mu bakozi be wishimiye kwakira abakiriya.

Ahantu hacururizwa ibyo kunywa bigiye bitandukanye. Hari imitobe itandukanye yongera imbaraga ndetse n'ibindi byinshi. Si ibyo gusa, banagaragaje ko bacuruza ikawa y'u Rwanda. Akaba ari ibintu byiza cyane kuko wahajyana inshuti n'abavandimwe mukizihirwa.

Aha hari umugabo uri gusuka amata mu cyuma gishinzwe kuyakonjesha, ni ingirakamaro kuko gituma atinda gupfa bityo umukiliya akaza kuyagura akimeze neza atarangirika ataragira ikibazo na kimwe.

Aha ni ahantu hacururizwa amata ndetse akanahatunganyirizwa. Urabona ko hasa neza cyane. Cyane utumeza twiza, intebe nziza, ndetse hari n'icyapa cyerekana ko iyo ushatse bayaguha ukayatahana mu tujerekani.

Iki ni icyapa cyamamaza amata. Kikaba kivuga uburyo cyi aya mata ari ingirakamaro cyane. Bavuga ibintu byiza biyagize bavuga ko ateguwe neza, ko ashobora guhita anyobwa ako kanya ndetse ko yujuje ubuziranenge.

Aha ni ahantu hacururizwa amata ndetse n'ibindi bigendana nayo. Hari umugore ufite icyo twakita ijagi irimo amata ndetse ku ruhande hari icyuma gikonjesha amata kigatuma akomeza ameze neza, abakiriya bakaza kuyatwara ntakibazo aragira.

Aha hari indobo, iyo ndobo ikaba irimo ibyo kurya bikunze kwita keke, ndetse kurande yayo hari icyuma kikaba gikonjesherezwamo amata, bikaba bigaragara ko ahantu hari hacururizwa amata ndetse n'ibirishwa amata urugero, nka keke ndetse n'ibindi.

Aha ni ahantu hacururizwa amata hakaba ari aho ikigo kitwa Inyange. Icyo kigo kikaba gifite mu inshingano zacyo gutanga serivise zibijyanye n'amata ndetse n'ibindi bintu nk'imitobe. Aha rero hakaba hari abantu babiri bashinzwe gucuruza ibicuruzwa by'icyo kigo.

Aha ni ahantu hacururizwa amata ndetse n'ibindi buntu bigendana na yo. Turabona mu kabati harimo amatasi, ndetse hejuru hari ibirahure. Ni ahantu wagana bakaguha amata ndetse n'ibindi bintu wayarisha, bityo ukabasha gusubira mu kazi umeze neza, ufite imbaraga.

Aha hari icyapa cy'Inyange, Inyange akaba ari ikigo gikora ibintu bijyanye n'amata ndetse n'ibindi binyobwa, urugero nk'imitobe n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Aha hakaba ari iduka ririmo ibyo bicuruzwa, ukaba wabasha kubagana, bakaguha ibyo bintu byose.

Aya ni amasambusa akaba akoze mu nyama, iki kikaba ari ikiribwa gikunze kuribwa mu Rwanda ndetse n'ibindi bihugu bikikije u Rwanda kubera uburyohe bwacyo, iki kiribwa kikaba gikungahaye ku ntungamubiri kuko kiba kirimo inyama, kandi inyama birazwiko ari kimwe mu birinda umubiri kurwara.

Aha ni ahantu hacururizwa amata ndetse n'ibikomoka ku mata, hakaba hari ameze ateretseho igikombe kirimo igivuguto, ukaba wahagana bakaguha ikivuguto, inshyushyu ndetse n'ibindi bintu byinshi bigendanye n'amata n'amakeke n'ibindi byinshi.

Aha hari udukarito, udukombe ndetse n'uducupa, hamwe n'utujerekani turimo amata agiye atunganyijwe mu buryo butandukanye, muri hamwe hakaba ayatunganyijwe ku buryo aba ikivuguto andi yo bakongeramo isukari kuburyo aba aryohereye ayo bakunze kwita yawurute.

Hano turi kubonaho abantu batandukanye, harimo umwe waje kugura amata, ni ahantu agurirwa, bakaba bari kuyamusukira mu cyo dukunze kwita ijage. Bukaba ari ubucuruzi bukunze gukorerwa inaha bw'amata kuko bwunguka.

Aha ni ahantu hacururizwa amata ndetse n'ibiyarishwa turikubona indobo zirimo amandazi ndetse na keke zo kurisha ayo mata ibi bikaba ari ibintu byiza cyane bifasha nk'abantu baje mu karuhuko bari bari mu kazi kuza bagafata ifunguro rito bityo bagahita bagasubira mu kazi bameze neza.

Aha ni ahantu hacururizwa amata ndetse n'ibiyakomokaho, hari n'icyuma gihari kikaba gifite akamaro ko kuyakonjesha bigatuma abakiriya baza kuyatwara akimeze neza atarangirika, ndetse hari n'intebe zo kwakiriraho abakiriya.

Hano hari isahani, isahani ikaba iriho keke. Izi ni keke ziba zifite udupapuro munsi kuburyo dutuma umuntu ayirya kandi atayikozeho akaba arikeke nziza cyane zikoranywe isuku ndetse zituma umuntu azirya na we atazanduje.

Hano hari akajerekeni k'amata kakaba kari ahantu hacururizwa bikaba bishoboka cyane ko kari kugurishwa, ubucuruzi bw'amata ni ubucuruzi bukunze gukorwa hano mu Rwanda kuko hari ubworozi bw'inka ku kigero cyo hejuru. Bityo bituma amata aba ahari menshi akagurishwa kandi n'abayagura barahari.

Aha hari akantu k'akabati k'icyuma karimo utujerekani twinshi turimo amata, biragaragara ko ari ikigo gicuruza amata ndetse n'ibiyakomokaho, ubu bukaba ari ubucuruzi bukunze gukorerwa mu Rwanda kuko hari ubworozi bw'inka nyinshi, bityo ubwo bucuruzi bugenda neza kandi bukavamo agatubutse.

Aha hari icyuma gitunganya amata kikaba ari ik'ikigo kitwa inyange icyo cyuma kikaba gifasha amata kudapfa agakomeza ameze neza kandi kikayakonjesha, ku ruhande y'icyo cyuma hari akabati kariho icupa ry'amazi ndetse n'ubundi buntu bugiye butandukanye urugero nk'utujerekani ndetse n'amaji aba ari mu dukarito.

Aha hari igikombe kirimo amata, kiri impande y'isahani, bikaba bigaragara nk'aho ari ahantu hacururizwa amata, ubu bukaba ari ubucuruzi bukunze gukorerwa inaha mu Rwanda kuko abantu benshi bakunda amata, kuko amata ari ingirakamaro cyane.

Ahantu hitwa mukamira bacuruza amata ndetse n'ibindi bigendanye nayo. Ikindi Kandi drawune n'icyuma gishinzwe kuyakonjesha kuburyo amara igihe kinini atarapfa abakiriya bakazaza kuyatwara akimeze neza.

Aha hari amandazi, amandazi akabi ari ikiribwa gikunze kuribwa mu Rwanda ndetse n'ibindi bihugu byegeranye n'u Rwanda, kikaba ari ikiribwa kiryoha cyane kuko haba harimo isukari, ifarini ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Aha ni ahantu bacuruza ibintu byo kunywa higanjemo amata, aho tubona ndetse n'amagi ndetse n'amazi ikindi kandi hari icyuma gitunganya amata gituma akonja akaguma ameze neza abakiriya bakazaza kuyagura ntakibazo afite,

Aha ni ahantu heza cyane hacururizwa ibyo kurya n'ibyo kunywa, kuko turi kuhabona akabati karimo amagi ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, hejuru ho hari akabati karimo amazi, karimo n'amata ndetse n'imitobe.

Hano hari indobo ebyiri zirimo keke, bigaragara ko ari ahantu bacururiza ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, hejuru y'imwe muri izo ndobo hariho ikintu bifashisha bakuramo izo keke kugira ngo batazikoraho bakaba bazisiga imyanda.

Aha hari abantu bagiye batandukanye bishimye bacigatiye ibikombe birimo amata, amata ni ikinyobwa gikunze kunywebwa mu Rwanda kuko gifite intungamubiri zituma abana bagira imikurire myiza ndetse n'abakuru bakinywa bituma bagira imigararire myiza.

Aha hari isahani iriho amandazi. Amandazi kikaba ari ikiribwa gikunze gukoreshwa mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu by'ibituranyi; kikaba ari ikiribwa kiryoha cyane kuko kiba gikozwe mu ifarini n'isukari, kikaba ari ikiribwa rwose cy'ingirakamaro.

Aha turahabona icyuma gikonjesha amata, tukaba tubona ku munwa wacyo hari igikombe batezeho, bagiye gushyira mo amata. Iki cyuma kikaba ari ingirakamaro cyane kuko gituma amata adahita apfa, bityo bakabasha kuyagurisha, agahabwa abayagura akimeze neza.

Aha hari igikombe cy'amata, ndetse n'isahani iriho amandazi atatu, ndetse n'iyindi iriho imyumbati, biragaragara ko ari ahantu hacururizwa ibyo kurya n'ibyo kunywa. Umuntu akaba yahagana agiye nko mu karuhuko, bakamuha ibyo kurya, ubundi agasubira mu kazi afite imbaraga.

Aha ni ahantu bacururiza amata, hakaba hari icyuma gishinzwe kuyakonjesha kugira ngo adapfa ndetse hari n'utujerekani turi ahantu hari ikirahure tukaba tubitswemo amata ategereje kugurishwa.

Iyi ni isahane iriho amandazi akaba ari ikiribwa kiba gikoze mw'ifarini mw'isukari ndetse nibindi bintu bitandukanye, akaba ari ikiribwa gikunze kuribwa m'urwanda ndetse no mubindi bihugu bituranye n'urwanda kubera uburyohe bwacyo budasanzwe.

Iyi ni indobo irimo ibyo kurya biba bikozwe mu ifarini ibyo dukunze kwita keke. Ibi ni ibyo kurya bikunze kuribwa mu Rwanda ndetse n' ibindi bihugu bigiye bitandukanye kubera ko biba biryoshye cyane. Ibi biribwa bikaba bikunze kuribwa n' abantu bingeri zose.

Aha ni ahantu hacururizwa amata, ibi bikaba ari ibicuba ariko biba bikoze mu cyuma, aho babika amata kugira ngo abakiriya baze kuyagura. Ubu bukaba ari uburyo bwiza bwo kuyabikamo kuko butuma amera neza ntiyangirike.

Aha ni ahantu hacururizwa amata, hari abantu babiri, umwe ari gusuka ku cyuma kibikwamo amata, iki cyuma kikaba ari ingenzi cyane kuko kiyakonjesha kigatuma aguma ameze neza, abakiriya bakaza kuyatwara nta kibazo afite.

Aha ni ahantu bacururiza amata ndetse akanahatunganyirizwa. Iki ni icyuma bayashyiramo gituma akonja ntapfe bityo umukiriya akaza kuyatwara ameze neza ntakibazo yagize. Ubu bukaba ari uburyo bwiza bwo gukora ubu bucuruzi kandi bugira icyo bugeraho.

Aha hari indobo irimo, amandazi amadazi ni ikiribwa gikunze kuribwa hano mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu by'ibituranyi, kiba gikoze mu ifarini ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, gikunze kuribwa n'abantu b'ingeri zose kuko ari ikiribwa kiryoha.

Aha hari ibicuruzwa bigiye bitandukanye, bikomoka ku mata, aho hari amata ubwayo ndetse n'ibindi bintu biyakomokaho banyuza mu ruganda bagashyiramo isukari, ibyo dukunze kwita nka yawurute, ibintu bikaba ari ibintu byiza cyane bikunzwe n'anaturarwanda ndetse n'ahandi hose.

Aha ngaha hari imodoka iruhande rw'ayo hari umuntu wambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo, bigaragara ko akorera kimwe mu bigo by'itumanaho bikorera mu Rwanda, akaba ari kuvugana n'umuntu uri mu modoka, amubwira ibijyanye na serivise icyo kigo gitanga.

Aha hari telefoni nyirayo ari kuyikoresha agerageza kwishyura akeresheje uburyo bw'ikoranabuhanga. Aho umuntu yishyura akoresheje telefone kandi ntagire ikindi kiguzi yakwa. Kandi bukaba ari uburyo bwihuse kandi bworoshye.

Aba ni abantu babiri bafite telefoni. Umwe afite telefoni irimo kode, undi afite telefoni ari gufotora iyo kode kugira ngo abashe kwishyura. Ubwo akaba ari uburyo bwo kwishyura bugezweho, aho umuntu ashobora kwishyura akoresheje telefoni ndetse n'ikoranabuhanga.

Aha hari akapa kerekana uburyo ki umuntu ashobora kwishyura mu buryo bw'ikoranabuhanga, hariho imibare yakanda bityo akabasha guhita yishyura mu buryo bumworohe, bukaba ari uburyo bwiza bufasha abantu kwishyura biboroheye.

Aha ni hamwe mu hatangirwa serivise z'ikigo k'itumanaho kizwi nka Emutiyeni gikorera mu Rwanda, aho ubagana bakaguha serivise zirimo: kukubikira amafaranga, cyangwa kuyakubikuriza, cyangwa bakaguha ama inite yo guhamagara incuti n'abavandimwe mugasabana.

Aka ni akapa kaba kariho imibare igufasha kwishyura wifashishije ikoranabuhanga aho ufata telefone yawe, ugakanda ino mibare ubundi ugashyiramo n'umubare w'amafaranga ukishyura umucuruzi uba waguhaye igicuruzwa utarinze kumwishyura amafaranga mu ntoki.

Iki ni igitaramo cyakozwe n'ikigo cy'ikoranabuhanga cyo mu Rwanda cyitwa MTN, kikaba cyatumiye umuhanzi wo mu Rwanda ukunzwe cyane witwa BWIZA ngo asusurutse abitabiriye icyo gitaramo, ibi bintu bikaba ari ibintu byiza bikurura abakiriya.

Aha ni hamwe mu hatangirwa serivisi z'ikigo cy'itumanaho gikomeye mu Rwanda kizwi nka MTN, hakaba hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo, akaba ari gufasha undi wambaye umupira urimo amabara agiye atandukanye, akaba ari kumuha serivisi zigize zitandukanye icyo kigo gitanga.

Aha ni ahantu hatangirwa serivise za kimwe mubigo by'ikoranabuhanga bikorera m'urwanda ni ukuvugu mubijyanye n'itumanaho aho hari abantu babiri bari gutanga serivise baziha umwe mubakiriya bicyo kigo uhagaze imbere yabo.

Hari akazu gafite ibara ry'umuhondo, k'ikigo cy'itumanaho gikomeye mu Rwanda, gitanga serivise zirimo kubikuza cyangwa kubista amafaranga, ndetse no kugura ikarita yo guhamagara, ndetse n'ibindi bintu byinshi. Hakaba hari abantu baje guhabwa izo serivisi.

Ni akazu gafite ibara ry'umuhondo kakaba ari akazu k'ikigo k'itumanaho cyo mu Rwanda kitwa emutiyeni. Icyo kigo kikaba gitanga serivise nyinshi harimo izo kubitsa ndetse no kubikuza amafaranga ikindi kandi kinagufasha kuba wagura ikarita yo guhamagara ugahamagara inshuti n'abavandimwe.

Aha ni ahantu hatangirwa ubufasha bwa kimwe mu bigo by'itumanaho bikorera mu Rwanda, hakaba hari abakozi batatu bakorera icyo kigo, ndetse n'undi muntu umwe waje gusaba serivisi, aha hakaba ari ingenzi cyane kuko hafasha abantu, bakabona serivisi mu buryo buboroheye, bitabagoye.

Hano hari umugabo uri gufotora kode iri ku kapa bishyuriraho, iyo kode ikaba imufasha guhita abasha kubona uburyo yishyura mu buryo bumworoheye. Ubu bukaba ari uburyo bwiza bw'ikoranabuhanga butuma abantu bishyura batarinze kugendana amafaranga, kuko baba bashobora kuyata cyangwa bakaba bayibwa.

Aka nakazu gafite ibara ry'umutuku ka kimwe mubigo byitumanaho bikorerwa murwanda kizwi nka eyateri, kakaba Ari akazu gatangirwamo serivise zitandukanye urugero nkokubitsa amafaranga kuyabikuza cyangwa kugura ama inite yo guhamagara.

Aha hari utuzu tubiri agafite ibara ry'umuhondo ndetse na k'umutuku utu twose akaba ari utwibigo by'itumanaho bikomeye bikorera mu Rwanda aho ugana bakaguha serivise zirimo kukubikira amafaranga, kuyakubikuriza ndetse no kuguha amayinite yo guhamagara.

Aha hari umuntu wambaye umupira w'umuhondo akaba akarera ikigo k'itumanaho mu Rwanda kitwa emutiyeni, akaba atanga serivise zijyanye no kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga ndetse no kugura ikarita zo guhamagara.

Aha ni ahantu hatangirwa serivise za kimwe mu bigo by'ikoranabuhanga, n'ukuvuga itumanaho bikorera mu Rwanda. Aho icyo kigo gitanga serivise zijyanye no kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga, ndetse ushobora no kugura telefone ukazajya ugenda wishyura macye macye.

Aha turabona abantu babiri bambaye imipira y'imihondo, bakaba bakorera ikigo kimwe mu bikomeye by'itumanaho mu Rwanda, bakaba bari guha serivisi umuntu bahagaze imbere, wenda akaba yaje nko kugura ikarita yo guhamagara cyangwa akaba yaje kwibaruza mu kigo cyabo.

Aha turahabona abantu bagiye batandukanye, hari abambaye imipira y'umuhondo bigaragara ko bakorera ikigo cy'ikoranabuhanga, ni ukuvuga itumanaho cyo mu Rwanda cyitwa Emutiyeni, hakaba hari n'abandi babiri barimo barabyina, bigaragara ko bari kugerageza gususurutsa abantu bari aho.

Aha hari abantu benshi batandukanye, ariko tugiye kwibanda kuri aba bari imbere, hari uwambaye ijire, bikaba bigaragara ko akorera ikigo cy'ikoranabuhanga mu bijyanye n'itumanaho, cyo mu Rwanda, akaba ari kumwe n'undi na we wambaye umupira ufite ibara ry'umutuku, akaba ari kuhuha zimwe muri serivise icyo kigo gitanga.

Aha ni ahantu hatangirwa ubufasha, ha kimwe mu bigo by'ikoranabuhanga ry'itumanaho bikorera mu Rwanda; hakaba hari intebe abicara bategereje bicaramo; ndetse hakaba hari n'abantu babakira. Akaba ari ahantu heza cyane hatuma abantu bahabwa serivisi cyangwa bagasobanurirwa ibyo batasobanukiwe neza ku bijyanye n'icyo kigo.

Serivise za kimwe mu bigo by'itumanaho byo mu Rwanda kizwi nka emutiyene, hakaba hari icyapa cyamamaza zimwe muri serivise zabo, urugero nkiyo kugura ipaki ukaba watsindira ibihembo.

Aha hari akapa kariho imibare ifasha umuntu kwishyura akoresheje telefone. Ubu bukaba ari uburyo bw'ikoranabuhanga kandi bworoshye bufasha umuntu kuba yakishyura bimworoheye kandi ntakindi kiguzi yatswe.

Aha ngaha hari abantu batatu, hari uwambaye umupira w'umuhondo bigaragara ko akorera ikigo cy'ikoranabuhanga mu by'itumanaho cyo mu Rwanda cyitwa MTN, akaba ari kumwe n'abagabo babiri bigaragara ko ari kubaha zimwe muri serivisi icyo kigo gitanga.

Aka ni akapa kaba kariho imibare ifasha umuntu kwishyura ku ikoranabuhanga ubu bukaba ari uburyo bwiza cyane butuma umuntu yishyura akoresheje terefone kandi ntakindi kiguzi yatse ikindi kandi bituma umuntu atagendana amafaranga mu nzira kuko bishobora gutuma ayata.

Aka ni akazi k'umuhondo ka kimwe mubigo by'ikoranabuhanga ni ukuvuga itumanaho bikorera hano mu Rwanda, hakaba hatangirwa serivisi zitandukanye, urugero nko kubitsa no kubikuza ndetse ukaba wagura ikarita yo guhamagara ukaba wahamagara inshuti n'abavandimwe.

Iki ni icyapa kiriho imibare cyangwa se kode ifasha abakiriya kwishyura bakoresheje telefone, bukaba ari uburyo bwiza bwihuse, kandi butuma umuntu bidasaba ko aba afite amafaranga mu ntoki kuko ashobora kuyata cyangwa akaba yayibwa.

Akapa kaba kariho imibare dukunze kwita kode, aho ifasha umuntu kuba yakwishyura akoresheje ikoranabuhanga, aho afata telefone ye agashyiramo imibare akabasha kwishyura ibicuruzwa yaguze mu buryo bworoshye kandi ntakindi kiguzi yatswe.

Aha hari abantu bambaye imipira ya umuhondo, bikaba bigaragara ko bakorera ikigo cya itumanaho cyo mu Rwanda cyitwa MTN. Ukaba ubagana bakaguha serivise zigiye zitandukanye, urugero nko kuguha simukadi ndetse no kuguha amayinite cyangwa bakakubikurira amafaranga cyangwa bakayakubikira.

Aka ni akapa kaba kariho imibare ndetse na nimero ya nyiri ugucuruza, gafasha abakiriya be kuba bakwishyura bakoresheje telefone. Ubu bukaba ari uburyo bwiza butuma umuntu abasha kwishyura atarinze afata amafaranga mu ntoki kandi nta kindi kiguzi yakwa.

Aha ni hamwe mu hantu hatangirwa serivisi z'ikigo gikomeye k'itumanahocyo cyo mu rwanda kitwa emutiyeni hakaba hari abantu baje kureba serivisi hakaba hari n'umuntu uri kuzibaha ku buryo bwihuse.

Aba ni abantu babiri; umwe akaba ahagaze mu kazu gafite ibara ry'umuhondo, kakaba gatangirwamo serivisi z'ikigo cy'itumanaho zijyanye no kubitsa amafaranga ndetse no kuyabikuza hamwe n'ibindi byinshi. Uyu mugabo uko bigaragara akaba yaje gusaba zimwe muri izo serivisi.

Aha hari abantu babiri bahagaze imbere y'akameza gasa umuhondo k'ikigo gikomeye cy'itumanaho gikorera mu Rwanda, bakaba baje kwaka serivisi icyo kigo gitanga, zirimo kubitsa no kubikuza amafaranga cyangwa kugura ikarita yo guhamagara.

Aha hari moto iriho agasanduku, bikaba bigaragara ko ari za moto zigemura ibintu zibivana ku babicuruza zikabijyana ku baguzi, Kuri Iyo moto hakaba hariho uyitwaye , akaba ari kumwe n'umuntu ukorera sosiyete y'itumanaho, bakaba bari kuganira cyangwa Hhri serivise ari kumuha.

Iyi ni porogaramu ya kimwe mu bigo by'itumanaho bikorera mu Rwanda; aho ikwemerera kubona serivise zayo ;urugero nko kohereza amafaranga, kugura ama inite cyangwa ukishyura fagitire ndetse n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye.

Aka ni akapa kariho uburyo bufasha umuntu kwishyura ku ikoranabuhanga atarinze yishyura amafaranga mu ntoki. Ibi bintu bikaba ari byiza cyane kuko bituma umuntu yishyura ntakindi kiguzi atanze kandi ni uburyo bw'ikoranabuhanga bwiza cyane.

Aka ni akazu gafite ibara ry'umuhondo ka kimwe mu bigo by'itumanaho bikomeye mu Rwanda, aho ukagana bakaguha serivise zitandukanye nk'urugero; nko kukubikira amafaranga, kuyakubikurira cyangwa bakaguha ikarita yo guhamagara, ugahamagara inshuti n'abavandimwe.

Aha hari abantu babiri umwe wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ingofero, ndetse n'undi wambaye ikoti ry'umukara, uyu wambaye umupira akaba akorera kimwe mu bigo by'ikoranabuhanga bikorera mu Rwanda mu bijyanye n'itumanaho, akaba ari guha serivisi uyu wundi bari kumwe.

Aha hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo akaba afite terefone mu ntoki, akaba ari kumwe n'undi mugabo wambaye umupira w'umukara ufite igare risa umuhondo bishoboka ko amaze amaze kuritsindira akaba arihawe n'ikigo uyu mugabo w'umupapa asigaye akorera.

Aka ni akazu ka kimwe mubigo by'itumanaho mu Rwanda serivise zo kubitsa cyangwa se kugura ikarita yo guhamagara, tukaba tubonamo abantu babiri bikaba bigaragara ko ari umwe uri guha undi imwe muri serivisi zavuzwe haruguru.

Aha hari utwapa turiho imibare cyangwa kode abacuruzi bahabwa, bityo abakiriya babo bakabasha kubishyura mu buryo bworoshye bakoresheje ikoranabuhanga kandi nta kindi kiguzi kirengaho batswe. Ubu buryo bukaba ari bwiza bwo kwishyura kandi bworoshye.

Aha ni ahantu batangira ubufasha ha kimwe mu bigo by'itumanaho bikomeye mu Rwanda, aho hari umuntu uhagaze ufite agaseke ari kugahereza undi akoramo, akaba ari bumwe mu buryo bwo kumuha serivise. Aha hantu hakaba ari ingenzi cyane kuko hagufasha gusobanukirwa ibintu udasobanukiwe kuri serivise ndetse n'ubundi bufasha wakenera.

Aha ni ahatangirwa serivise z'ikigo cy'itumanaho gikomeye mu Rwanda kizwi nka MTN, aho ubagana bakaguha serivise zigiye zitandukanye. Urugero: kukubikira amafaranga, kuyakubikuriza cyangwa kuguha amayinite yo guhamagara.

Akazu gafite ibara ry'umuhondo ndetse n'abandi bantu bagahagaze imbere bakaba baje kwaka zimwe muri serivise zitangirwa muri ako kazu harimo kubitsa amafaranga, kuyabikuza cyangwa kugura ikarita yo guhamagara.

Aha ni ahantu abakiriya sosiyete imwe mubikomeye mubigo by'itumanaho bikorera mu Rwanda ukaba ubagana bakaguha Serivise zitandukanye zirimo kukubikurira amafaranga, kuyabika, ikindi Kandi banagurisha terefone ukagenda wishyura gakegake.

Aha hari moto ebyiri buri moto iriho umumotari ndetse buri umwe muri bo ari kwishyurwa n'umukiriya yari atwaye kuko yamuhaye serivisi nziza, ubu ni ubutwazi bikunze gukoreshwa hano mu gihugu cy'u Rwanda kuko ari bwiza Kandi bwihutisha ingendo.

Aha ni ahatangirwa serivisi za kimwe mu bigo by'itumanaho gikomeye mu Rwanda; ukaba ubagana bakagusobanurira ibijyanye na serivisi zabo; mbibutsa ko iki kigo gitanga serivisi zijyanye no kubitsa no kubikuza amafaranga, ndetse no kuba baguha amayinite yo guhamagara.

Aha ni ahantu hatangirwa ubufasha mu bijyanye na serivisi za banki, urugero nko kubitsa amafaranga cyangwa kuyabikuza. Ibintu bikaba ari byiza cyane kuko bifasha abaturage guhabwa ubufasha batarinze kujya mu mabanki, kuko akenshi haba hari abantu benshi bityo bigatinza gahunda zabo.

Hano hari abantu, umwe muribo akaba yicaye imbere yabo, birashoboka ko ari kugenda ababaza ibibazo, bagenda bamusubiza maze ibyo bamusubije akabyandika. Ku mupira we hariho icyapa cyamamaza isosiyete y'itumanaho yitwa emutiyene, ikorera mu Rwanda.

Aba ni abagore batatu bari gufata ifoto, ukaba ubona ko bishimye rwose; bari kwifotoza bafite akanyamuneza, Inyuma yabo hakaba hari imitaka ndetse n'imbere yabo hari akameza gasa ubururu. Umwe muri bo yambaye umupira w'ubururu hanyuma babiri bari iruhande rw'ibumoso bo bambaye imipira isa umuhondo.

Aka ni akazu gafite ibara ry'umuhondo ka kimwe mu bigo by'itumanaho, kakaba gatangirwamo serivise zitandukanye, urugero nko kubitsa ndetse no kubikuza amafaranga ndetse ushobora no kuhagurira ikarita yo guhamagara, ugahamagara inshuti n'abavandimwe mugasabana.

Hano hari akazu k'umuhondo hakaba hahagazemo umuntu wambaye ijire y'umuhondo akazu kakaba gatangirwamo serivise zitandukanye urugero nko kubitsa amafaranga, kuyabikuza ukaguramo n'amayinite yo guhamagara inshuti n'abavandimwe.

Aha ni ahantu hatangirwa ubufasha ha kimwe mu bigo by'itumanaho bikorerwa mu Rwanda, hakaba hari abantu bari gutanga serivisi ndetse n'abari kuzihabwa, ukaba ubona ko abari gutanga serivisi bishimye, rwose bishimiye guha serivisi ababagana.

Aka ni akazu gafite ibara ry'umuhondo, ka kimwe mu bigo by'itunamaho bikomeye bikorera mu Rwanda, ahatangirwa serivise zirimo izo kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga, ndetse no kugura amakarita yo guhamagara, bityo ukabasha guhamagara incuti n'abawe.

Akazu k'ikigo kitumanaho kimwe cyo mu Rwanda aho ugana bakaguha serivise urugero nko kubitsa amafaranga cyangwa kuyabikuza cyangwa kugura ikarita yo guhamagara hakaba hari abantu baje kwaka zimwe muri izo serivise ndetse bikaba bigaragara ko bari kuzihabwa neza.

Hari akazu k'umuhondo, kakaba ari ak'ikigo cy'ikoranabuhanga gikorera mu Rwanda, abantu bakaba bakigana, kikabaha serivisi zibitse amafaranga.

Aha hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo akaba ari uw'ikigo cy'itumanaho gikomeye mu Rwanda akaba hariho uburyo bwo kwamamaza ukuntu ushobora kugura ipaki ya interineti, ubu akaba ari uburyo bwiza bwo kwamamaza.

Aka ni akapa kariho imibare ndetse n'amazina y'ubucuruzi, ukaba ushobora kukifashisha ukishyura mu buryo bw'ikoranabuhanga; ukaba wafata telephone yawe ukishyura ibicururizwa byose waguze bitakugoye mu buryo bwihuse.

Aka n'akazu ka sosiyete y'itumanaho yo mu Rwanda yitwa MTN. Akazu ikintu gakorerwamo kakaba gatangirwamo serivise irimo gucuruza amayinite, cyangwa kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga biroroshye.

Aka ni akazu gafite ibara ry'umuhondo kakaba ari aka kwimwe mubigo byitumanaho rikorera mu rwanda kakaba gatangirwamo serivise nkurugero nko kubitsa amafaranga kubikuza kugura ikarita yo guhamagara ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Aha hari umugabo uhagaze mu kazu k'ikigo k'itumanaho gikorera mu Rwanda, akaba ari kumwe n'undi muntu bigaragara ko ari umukiriya waje kwaka serivise z'icyo kigo akaba ari kwandika ibintu mu ikayi uwo mugabo uwo muntu ari kumubwira bari kumwe.

Aha hari umuntu wambaye umupira w'umuhondo, bikaba bigaragara ko akorera kimwe mu bigo by'itumanaho bikorera mu Rwanda, akaba arimo arasha abandi bantu bari kumwe, abaha zimwe muri serivisi zitangwa n'icyo kigo. Bikaba byorohereza abakiriya kubona izi serivisi bitabagoye.

Aha hari abantu babiri umwe ahagaze mu kazu gafite ibara ry'umuhondo, kakaba ari akazu gatangirwamo serivise z'ikigo kimwe mu iby'ikoranabuhanga n'ukuvuga iby'itumanaho gikorerwa mu Rwanda hakaba hatangirwamo serivise zo kubitsa amafaranga, kuyabikuza, ndetse no gutanga amayinite guhamagara.

Aha ni ahantu hatangirwa ubufasha bw'ikigo k'ikoranabuhanga gikorera mu rwanda kitea eyateri, tukaba turi kuhabona akabati k'umutuku karimo amaterefone bacuruza ku giciro gito cyane, ibi bikaba ari ibintu byorohereza abantu kugura telefone ku giciro gito bityo nabo bakagendana n'ierembere.

Aha hari abagabo bakaba bari munsi y'ihema y'ikigo cy'itumanaho cya aitel. Bakaba baje gusaba serivise icyo kigo gitanga, tukaba tubona n'abari kubakira bambaye imipira y'imituku akaba ariryo bara ry'icyo kigo bikaba bigaragara ko ari abakozi bicyo kigo.

Ibi ni bimwe mu biro by'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda. Aho hakaba hari abantu baje kwaka serivisi zacyo, ndetse n'abakozi b'icyo kigo batanga izo serivisi. Ibi bikaba ibi bintu ari byiza kuko bifasha abakiriya b'icyo kigo kuhagera, bakabasha gusobanuza ibijyanye na serivisi icyo kigo gitanga.

Aha hari akazu k'ikigo cy'itumanaho, aka kazu kaba gasa umuhondo, kakaba kanditseho ko bafite serivisi zo kubitsa ndetse no kubikuza mafaranga. Si ibyo gusa kuko imbere yako, hari abantu babiri bahahagaze, bategereje guhabwa serivisi ndetse hari n'undi iri mo imbere muri ako kazu urimo urabafasha kubaha izo serivisi.

Aha hari akazu gafite ibara ry'umuhondo ka kimwe mu bigo bikomeye by'itumanaho hano mu Rwanda, hari abantu barimo bari gutanga serivise icyo kigo gitanga ndetse hari n'abandi bantu bari imbere yako kazu baje gusaba izo serivise.

Hano hari umuntu ufite akanyamuneza, uri mukazu k'umuhondo gatangirwa mo serivise zo kubitsa ndetse no kubikuza amafaranga, serivise zikaba ari nziza cyane kuko, zigushafa kuba wabika amafaranga mu buryo bwizewe ku buryo nta wayakwiba cyangwa uyatakaze mu bundi buryo.

Aha hari icyapa k'ikigo k'itumanaho gikomeye mu Rwanda kizwi nka emutiyeni, iki akaba ari ikigo gitanga serivise zirimo guhamagara ndetse no kohereza ubutumwa bugufi. Ikindi kandi kinatanga serivizi zo kuba wakohereza amafaranga aho ariho hose haba mu Rwanda cyangwa hanze yarwo.

Hano hari abantu bagiye batandukanye ndetse hari n'ihema ritoya ribatwikiriye, bigaragara ko abo bantu baje kwaka serivise muri kimwe mu bigo by'ikoranabuhanga bikorera hano mu Rwanda.

Aka ni akazu gafite ibara ry'umuhondo ka kimwe mu bigo by'itumanaho bikomeye mu Rwanda, kaba ari akazu gatangirwamo serivisi zitandukanye urugero, nko kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga cyangwa kugura ikarita yo guhamagara.

Aka ni akapa kaba kariho imibara igufasha kwishyura ukoresheje telephone ntakindi kiguzi watswe, ubu bukaba ari uburyo bwiza bw'ikoranabuhanga aho wishyura utarinze ufata amafaranga mu ntoki ahubwo akaba ari amafaranga abitse kuri telephone yawe wishyura.

Aha hari abantu babiri, aho umwe yambaye umupira bigaragara ko akorera ikigo cy'ikoranabuhanga cyitwa MTN cyo mu Rwanda, akaba ari gusobanurira umukiriya w'icyo kigo uburyo serivisi zabo zikora, kugira ngo ajye azikoresha.

Uyu ni umuntu uri kugereageza kwishyura akoresheje ikoranabuhanga, akaba ari gukoresha telefone. Akaba inyuma ye hari akapa kariho imibare cyangwa se kode akaba ariyo ukanda ubundi ukabasha kwishyura umuntu mu buryo bworoshye kandi bwihuse.

Aha ni ahantu hatangirwa serivise za kimwe mubigo by'itumanaho bikomeye mu Rwanda, ibi bikaba byorohereza abakiriya kuba bahagera ndetse bagasobanuza cyangwa bagahabwa serivise z'icyo kigo bitabagoye, ibi bikaba ari ibintu byiza cyane rwose.

Aha ni ahantu bakirira h'ikigo ntago gikorera mu Rwanda mubijyanye n'itumanaho hakaba hari umusore uri kureba muri mudasobwa akaba ari gufasha aba bantu bamuhagaze imbere bari aho bakirirwa ubu akaba ari uburyo bwo kunganira abakiriya bakabona serivise bakeneye.

Aka ni akazu gafite ibara ry'umutuku ka k'imwe mu bigo by'itumanaho gikorera mu Rwanda, hakaba hari abantu bakarimo imbere batanga serivise z'icyo kigo, ndetse hari umuntu ugahagaze hanze bigaragara ko hari ibintu ari gusobanukirwa ku bijyane n'imitangire ya serivise.

Aha, hari akazu gafite ibara ry'umuhondo ka kimwe mu bigo by'itumanaho bikorera mu Rwanda; hakaba hatangirwa serivise zo kubitsa amafaranga, kuyabikuza cyangwa kugura ikarita yo guhamagara. Hano hari umuntu waje kwaka zimwe muri izo serivise ndetse bikaba bigaragara ko ari kuzihabwa.

Aha hari umugore ufite akapa kaba kariho imibare cyangwa nimero ifasha kuba umuntu yakwishyura mu buryo bw'ikoranabuhanga akoresheje telefoni. Ubu buryo bukaba ari bwiza kuko butuma umuntu yishyura atarinze gufata amafaranga mu ntoki kandi nta kindi kiguzi yakwa.

Uhagaze akaba yagannye umukozi ukorera ikigo k'itumanaho kitwa emutiyeni, akaba ari kumuha terefone ngo ashyiremo nimero bityo abashe kumubikiriza amafaranga bukaba ari uburyo bwiza bwashyizweho butuma abantu babika amafaramga mu buryo butekanye batayagendanye mu ntoki.

Aha ni ahantu hatangirwa serivisi zo kubitsa ndetse no kubikuza amafaranga, aho tubona abantu bagiye batandukanye baje guhabwa izo serivisi, izi ni serivisi zoshya ubuzima kuko zituma umuntu ashobora kubasha kohereza amafaranga, inshuti n'umuryango bari kure atarinze guhura na bo.

Aha ni ahantu hatangirwa ubufasha, abantu bakaba bahagana mu gihe hari ibyo batishimiye kuri serivisi cyangwa hari ibyo bakeneye gusobanukirwa, hakaba ari ah'ikigo cy'itumanaho cyitwa Airtel, ibi bintu bikaba bifasha cyane kuko bituma mu gihe umuturage hari ikintu atishimiye abona aho abariza bityo kigakemuka.

Aha hari abantu babiri bakorera kimwe mu bigo by'ikoranabuhanga bikorera mu Rwanda, ndetse bakaba biteguye kwakira uwabagana, mu gihe yaba aje asaba serivise zitangwa n'icyo kigo cy'ikoranabuhanga cyo mu Rwanda.

Aka kazu gafite ibara ry'umuhondo, naka kimwe mu bigo bikomeye by'itumanaho bikorera mu Rwanda. Urakagana bakaguhe serivise zikubiyemo kuba bakubikira amafaranga, kuyakubikuriza, cyangwa bakaguha ama inite urakoresha uhamagara inshuti n'abavandimwe.

Aha hari umuntu ufite telefoni uri kugerageza kwinjira muri porogaramu ya kimwe mubigo by'itumanaho bikorera mu Rwanda. Iyi porogaramu ikaba igufasha kubona serivise zabo muburyo bworoshye, ndetse ikaba ikoresha enterineti.

Aha hari akazu k'umuhondo kakaba ari ak'ikigo kimwe mu by'itumanaho bikorera mu Rwanda. Hakaba hicayemo umuntu, akaba bishoboka cyane ko ari umukozi w'icyo kigo. Aka kazu kakaba gafasha abantu kuba bakagana bakaka serivisi batarinze bajya ku cyicaro gikuru cy'itumanaho kuko byabagora ndetse bikabatwara n'umwanya munini.

Aha hari umugabo ukorera kimwe mu bigo by'ikoranabuhanga bikomeye mu Rwanda akaba ari imbere y'ameza ariho ingofero ndetse n'amajire bishoboka cyane ko ari gutanga ibyo bijyanye n'ingofero ku babigenewe.

Aha hari umugabo uhagaze mu kazu gafite ibara ry'umuhondo bigaragara ko ashobora kuba ari umwe mu bakozi b'ikigi k'itumanaho gikorera mu Rwanda, bikaba bigaragara ko atagereje ko abakiriya baza ngo abahe zimwe muri serivise icyo kigo gitanga.

Aka ni akapa kariho imibare icyo kamaze ugakoresha wishyura mu buryo bw'ikoranabuhanga, aho ukoresha Telefone, ukaba wakwishyura igicuruzwa uguze, utiriwe ufata amafaranga mu ntoki kuko gufata amafaranga mu ntoki, bishora kuvamo kuba wayata cyangwa izindi ngaruka mbi.

Iyi ni porugaramu ya kimwe mu bigo by'itumanaho bikorera mu Rwanda, aho uyinjiramo ukabasha kubona serivise zayo. Iyi porogaramu ni nziza cyane, kuko ikoresha murandasi bityo ukabona serivise mu buryo bwihuse bitakugoye.

Hano hari bantu bagiye batandukanye, hari umumotari ndetse n'abandi bantu batatu, aha rero ni ahantu bagurishiriza resansi, resansi icyo imaze ikaba ishyirwa mu binyabiziga, bityo bikabasha kugenda.

Aka ni akapa kari mu iduka kerekana uburyo butandukanye ushobora kwishyura mu gihe waba uguze ibicuruzwa byabo. Aho bashyizeho uko ushobora kwishyura ukoresheje telefone, ntugire ikindi kiguzi ukatwa ndetse uko ushobora kwishyura ukoresheje ikarita.

Ahari ihema ry'umutuku rikaba ari irya kimwe mubigo by'itumanaho bikorera mu Rwamnda, aho ugana bakaguha serivise inoze, mbibutsa ko serivise batanga harimo kubitsa amafaranga ndetse no kuyabikuza ikindi kandi banagurisha n'amainite agufasha guhamagara inshuti n'abavandimwe.

Aha ni mu isoko hagiye hari ibicuruzwa bigiye bitandukanye, urugero nk'intoryi, karoti ndetse n'ibindi byinshi cyane; hari n'abantu bigaragara ko baje kugura ibyo bintu. Si ibyo gusa, hari n'akantu kaba kariho kode umuntu akoresha yishyura yifashishije ikoranabuhanga.

Hano hari ikiganza, kikaba gifite telefoni mu ntoki, nyiracyo akaba ari kugerageza kugura ipaki ya murandasi yifashishije ikigo cy'itumanaho cyitwa Emutiyeni. Bakaba bari kumwereka ipaki ashobora kugura ya magana atanu, imuhereza icyo bita megabayiti magana inani, bityo akabasha gukoresha murandasi.

Ahangaha hari abantu babiri, umwe akaba akorera ikigo cy'itumanaho gikomeye mu rwanda. Akaba ari kumwe n'uwaje kumusaba serivisi akaba aririmo amufasha kuzibona.

Hano hari umusore ufite ikaramu arimo arandika ndetse mu kindi kiganza afite amafaranga ari guhereza umukobwa uri imbere ye. Bikaba bishoboka cyane ko umukobwa hari ibintu ari kubwira uyu musore akagenda abyandika.

Aka ni akazu gafite ibara ry'umuhondo, ka kimwe mu bigo by'itumanaho bikomeye mu Rwanda. Hakaba hari abantu baje gusaba serivise zitangirwamo, urugero nko kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga, cyangwa kugura ikarita yo guhamagara, ndetse n'ibindi byinshi.

Aha ni ahantu hatangirwa serivisi ha kimwe mu bigo by'itumanaho bikorera mu Rwanda, aho ubagana bakagufasha bakagusobanura byinshi kuri serivisi batanga, ibi bikaba ari byiza kuko bifasha abakiriya kumenya ibijyanye na serivisi y'ikigo gitanga bitabagoye.

Hano hari umuntu uhagaze imbere y'akazu ka kimwe mu bigo by'ikoranabuhanga bikorera mu Rwanda mu bijyanye n'itumanaho. Akaba aje kwaka serivise icyo kigo gitanga, zirimo kubitsa amafaranga, kubikuza cyangwa kugura ikarita yo guhamagara.

Ibi ni ibiro byakemuwe bikomeye mu Rwanda, aho hari umugabo uri imbere ya Mudasobwa uri kwakira abakiliriya baje bamugana, ibi bikaba ari ibintu bifasha abakiliriya b'icyo kigo kubona serivisi bitabagoye, cyangwa bakabaza ku bintu badasobanukiwe ku bijyanye na serivisi.

Aha hari Telefoni nyirayo, ari kugerageza kwishyura akoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, akaba amaze gushyiramo amafaranga y'ikintu agiye kwishyura, igisigaye akaba ari ugushyiramo umubare w'ibanga akishyura, ubundi bikaba birarangiye agahita atwara igicuruzwa cye.

Aha hari umuntu ufite terefone akaba arimo aragerageza kwishyura ayikoresheje, inyuma y'iyo terefone hari akapa kariho imibare cyangwa kode abasha kwishyuraho. Ubu bukaba ari uburyo bwiza butuma umuntu yishyura bitamugoye.

Aka ni akapa kaba kariho imibare ndetse n'amazina y'umucuruzi. Icyo kamaze gafasha umukiriya kuba yakwishyura akoresheje terefone, bukaba ari ubryo bw'ikoranabuhanga aho umuntu yishyura atarinze akora ku mafaranga n'intoki kandi nta kindi kiguzi yakwa.

Aha hariho abantu bagiye batandukanye ariko reka twibande kuru babiri bari imbere, hari uwambaye umupira w'umuhondo, akaba akorera ikigo cy'itumanaho cyo mu Rwanda gikomeye cya emutiyene, akaba arimo arasobanurira umukiliya w'icyo kigo uburyo ki serivise zabo zitangwamo.

Ubu ni uburyo bwo kwishyura ukoresheje telefone aho ushyiramo nimero z'umuntu ushaka kwishyura ubundi ugashyiramo umubare w'amafaranga hanyuma warangiza ugashyiramo umubare w'ibanga, ugahita umwoherereza amafaranga, aha ngaha ni byo umuntu yari ari gukora ageze ku ntambwe yo gushyiramo umubare w'ibanga ubundi akemeza.

Aka nakazu k'umuhondo hamwe muhatangirwa serivise z'icyigo cyitumanaho gikorera murwanda kizwi nka MTN, kikaba gitanga serivise zitandukanye urugero nko kubitsa amafaranga kuyabikuza ndetse no kugurisha amakarita yo guhamagara abantu bakabasha guhamagara inshuti n'imiryango.

Aka n'akazu gafite ibara ry'umutuku ka kimwe mubigo byitumanaho bikorera m'urwanda aho batanga serivise zitandukanye zirimo izo kubitsa amafaranga cyangwa kuyabikuza ndetse no kugura ikarita zo guhamagara ukabasha kwivuganira n'incuti n'abavandimwe.

Aha hari telefoni irimo imibare, ni umuntu uri kuyikoresha agerageza kwishyura akoresheje ikoranabuhanga, aho ushobora kwishyura ukoresheje telefone utarinze ufata amafaranga mu ntoki, kuko gufata amafaranga mu ntoki harimo ingaruka nyinshi, harimo kuba wayibwa cyangwa ukaba wayata.

Icyi ni icyapa kiriho imibare cyangwa code, ifasha abantu kwishyura mu buryo bwohoroshye bakoresheje telefoni nta kindi kiguzi batswe. Ubu akaba ari uburyo bwiza kuko butuma umuntu abasha kwishyura kandi atarinze kugendana amafaranga mu ntoki, kuko ashobora kuyata cyangwa akaba yayibwa.

Hano hari akazu gafite ibara ry'umuhondo, akaba ari aka kimwe mu bigo by'itumanaho bikorera mu Rwanda; kakaba gatangirwamo serivise zijyanye no kugura ikarita, kubitsa ndetse no kubikuza amafaranga. Hakaba hari umuntu ugahagaze imbere, bigaragara ko yaje kwaka zimwe muri izo serivise, ndetse bikaba bigaragara ko ari kuzihabwa.

Aha ni ikigo k'iposita, iposita ikaba ifasha abantu kuba bakoherereza imiryango yabo cyangwa inshuti ubutumwa, tukaba turi kubona imodoka ndetse n'amamoto yifashishwa mu gutanga izo serivise bityo zikihuta.

Aha ngaha hari abantu babiri, hari umukobwa ndetse n'umugabo uvuye kuri moto, iyi akaba ari moto igemurira abantu mu ngo ibintu baba baguze, bikaba biborohereza kuko batarinda bahaguruka ngo bigire ku isoko, ahubwo bagatuma ibintu bashaka, bakabibasangisha mu rugo.

Uru nurutonde ruriho amasoko akorera kuri murandasi ushobora kujyaho ukabasha kwigurira ibintu bikakugeraho muburyo bworoshye, ubu bukaba ari uburyo bwiza bwo guhaha wifashishije ikoranabuhanga kuko binakorohereza kuba wagura ibintu hanze y'igihugu bakabikuzanira.

Iri ni iduka rikorera kuri murandasi rigufasha kuba wagura ibintu bikakugeraho mu buryo bworoshye. Bagaragaje uburyo ki ushobora kubandikira ku mbuga nkoranyambaga zabo, ndetse bagusaba kwiyandikisha uwo munsi; ibi bikaba ari ibintu byiza, bituma umuntu abasha kugendana n'iterambere.

Iri ni iduka rikorera kuri murandasi, ricuruza imyenda y'abagore, aho bari rurimo barerekana imwe mu myenda bafite ndetse n'uburyo wasura imbuga zabo ukabasha kubaza byinshi ku byerekeranye na serivisi zabo, ubu bukaba ari uburyo bwiza bwo kwamamaza ndetse ukabasha kugera ku bakiriya benshi.

Uru ni urubuga ushobora kwifashisha, ugahanga urubuga rwawe, bijyanye n'ibintu ushaka gukoresha urubuga, urugero; nko kuba ushaka kujya urucururizaho, cyangwa ari urw'ikigo cyawe, wenda cyangwa ari ibintu bijyane no gusenga, rwose urabagana bakagufasha bakagukorera urubuga uzajya unyuzaho izo gahunda zawe.

Iyi ni moto ibijyana ku muntu uba wabiguze ibikuye ku baba babicuruza, ibi bikaba byoroshya kuba umuntu yabona ibyo yaguze bitamugoye atarinze guhaguruka ngo ajye ku isoko, bityo uwo mwanya akawucungura.

Aha hari moto iriho umugabo. Inyuma hari akantu kariho ibintu agemuriye abantu babiguze. Ubu bukaba ari uburyo bugezweho bwo kuba wagura ikintu bakakikuzanira mu rugo utarinze uhaguruka ngo ujye kukizanira; bikaba bikorohereza.

Iri ni iduka rikorera kuri murandasi aho ushobora kugura ibintu niyo waba uri mu muhanda cyangwa byo biri mu mahanga, bakabikugezaho hano mu Rwanda cyangwa ikindi gihugu cyose waba urimo, berekanye abantu bakorana bagiye batandukanye.

Hano hari umukobwa uri gupfundura agasanduku kaba kari kuri moto, iyo moto akaba ari iy'ikigo kitwa vubavuba gifasha abantu kuba cyabagezaho ibyo kurya cyangwa kunywa baba baguze kandi mu buryo bwihuse bigatuma umuntu atarinda guhaguruka ngo yigire ku isoko.

Aha hari moto iriho telefone, iyi telefone ikaba iriho porogaramu yerekana ibyerekezo by'ahantu umuntu agiye, ku buryo bimufasha kugeza ibintu atwaye ahantu bitamugoye kandi atayobye cyangwa ngo amare umwanya munini ari gushaka inzira yacamo.

Aha hari urubuga rufasha abantu kubaruzamo ikigo cy'ubucuruzi baba bagiye gutangira bagiye berekana ahantu ushobora gushakira ubwoko bw'ubucuruzi usahaka gutangira ndetse naho ushobora gushira umujyi ubwo bucuruzi ushaka gutangira.

Iri ni isoko rikorera kuri Murandasi, aho ubasha kugura ikintu ukoresheje Telefoni yawe ukajya kuri Murandasi, ugahitamo igicuruzwa ushaka bakacyohereza mu gihugu cyawe, hano berekanye ibintu bigiye bitandukanye ushobora kugurirayo ari nk'isakoshi, akabati ndetse n'ibindi bintu byinshi.

Iri ni isoko rikorera kuri murandasi ricuruza ibintu bigiye bitandukanye urugero nk'imbuto, imboga, amavuta, amafarini ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Bagiye banashyiraho ibiciro byabyo ndetse n'ingano zabyo. Ikindi bavuze ko babitwarira ababiguze ku buntu, bashyiraho n'uburyo bwo kwishyura ndetse na nimero wahamagara.

Iri ni iduka rikorera kuri murandasi, aho ushobora gufata telefoni yawe, ukajya ku rubuga rwabo ubundi ukagura ibintu byose ushaka ku mafaranga make kandi bakabikugezaho mu buryo bworoshye cyane.

Iki ni icyapa k'ikigo gifasha abantu kugura ibintu babikuye hanze, bakabibazanira hano mu Rwanda bikabageraho bimeze neza cyane, kikaba cyitwa Akarwa kikaba ari ikigo cyiza cyane cyoshya ubuzima.

Iri ni isiko rikorera kuri murandasi ricuruza ibirimo n'ibyo kurya, aha hari amandazi bagurisha amafaranga maganatatu mirongo itanu bikaba ari ibintu bishimishije umuntu ashobora kuyagura yifashishije ikoranabuhanga.

Iri ni isoko rikorera kuri murandasi rikaba ari isoko mpuzamahanga aho ushobora gutumiza ibintu uri mu Rwanda bikakugeraho bivuye mu gihugu cya kure. Ibi bikaba ari ibintu byiza cyane kuko bigufasha kuba wabona ibicuruzwa utapfa kubona inaha mu Rwanda.

Aha hari amakamyo agera kuri atanu akaba ari ay'ikigo kitwa twiga, akaba akora akazi ko kwikorera ibicuruzwa by'acyo, akabasha kubizana abizana muri urwo ruganda ndetse akaba yanabihakura agenda abihereza abaturage bagiye batandukanye.

Aha hari akamasoko atandukanye akorera kuri murandasi aho bikorohera kuba wahaha ukoresheje telephone yawe ukajya kuri murandasi ugahitamo isoko rimwe muri aya ushaka ubundi ukagura ikintu ushaka bakakihorereza ndetse n'iyo haba ari mu kindi gihugu atarimo.

Hari umugore uri kureba muri telefoni ye yishimye, bigaragara ko yishimiye ibintu ari kubona muri telefoni, akaba yambaye n'utuntu mu matwi tumufasha kumva amajwi neza. Akaba yarakoreshejwe mu kwamamaza imbuga zigufasha kugurira ibintu kuri murandasi bitakugoye.

Iri ni iduka rikorera kuri Murandasi, rikaba rifasha umuntu gutumiza ibicuruzwa bikaba byava hanze bikamugeraho, hano bari kwerekana ibicuruzwa bigiye bitandukanye ndetse n'amafaranga bigura, ndetse banerekana ahantu wakanda ukaganira na nyirabyo akabasha kubikugezaho.

Izi ni imbuga nkoranyambaga, bagufasha kuba wagura inzu, cyangwa ukagura ubutaka cyangwa ukagura ibinyabiziga, ibi bikaba ari ibintu byiza cyane kuko hari nk'umuntu uba yibaza ukuntu yagura kimwe muri ibyo ariko atazi aho yabigurira, ariko gutya baba ba byoroheje ubasha kubigura ndetse utavuye n'iwawe.

Iri ni isoko rikorera kuri murandasi, ricuruza ibintu bigiye bitandukanye urugero nk'umuceri, ifarini, amafi, ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Hano bashyizeho n'ibiciro byabyo ndetse bavuga ko banakatuye, ikindi kandi ngo babikugereza iwawe kubuntu ntakindi kiguzi bakwatse.

Iri n'isoko rikorera kuri murandasi, aho ushobora kugurira ibintu ukoresheje telefone yawe, ndetse uru rubuga runavugako rutanga igabanura ry'ibiciro rigeze kuri mirongo itatu na gatanu kw'ijana. Ibi bikaba ar'ibintu byiza cyane.

Aha hari umugabo uhagaze iruhande rwa moto, arimo arakura ibintu mu gasanduku kari kuri iyo moto. Izi moto ikintu zimaze, ni ukugemura ibintu umuntu aba yaguze, bakabimusangisha mu rugo, bigatuma abona ibintu yaguse, bitamugoye.

Iri ni iduka rikorera kuri murandasi ricuruza amavuta atuma abagore bagira uruhu rwiza bityo bakabasha kumererwa neza. Ibi bikaba ari ibintu byiza cyane bituma abakiriya babo babasha kubona serivise zabo bitabagoye.

Iyi ni moto iriho agasanduku akaba ari iy'ikigo gifasha abantu kubona ibicuruzwa baguze bikabagerezwa mu rugo bitabagoye cyane. Ubu bwikorezi bukaba ari bwiza cyane kuko bufasha abantu kubona ibicuruzwa baguze bitabagoye batarinze guhaguruka ngo bajya ku isoko.

Iyi ni moto iriho agasanduku k'ikigo cyitwa Kasha, iki kigo kikaba gifite akamaro ko kugurisha ibikoresho by'isuku ndetse n'ubuzima, bituma ubuzima bworoha, ndetse bashyizeho nimero z'ukuntu wabahamagara ndetse n'uburyo wabasha gusura urubuga rwabo bityo uba wabasha kubona serivisi batanga.

Iri ni iduka rikorera kuri murandasi, aho abantu bashobora kujya kuri murandasi, bagahahira kuri iryo duka, ibintu bikabasha kubageraho bitabagoye ndetse ku giciro gito. Bikaba ari ibintu byiza cyane ndetse by'ikoranabuhanga, bituma abantu babasha guhaha batavuye aho bari, ndetse bagahaha ibintu byiza cyane.

Iri ni isoko rikorera kuri murandasi, aho ushobora kugurira ibintu bakabikugezaho ndetse n'iyo haba ari mu kindi gihugu, ibi bikaba ari ibintu byiza cyane rwose, hano bakaba barimo barasaba ko umuntu yakerekana uburyo cyi akunda serivisi zabo, bishingiye ku tunyenyeri aribo kandeho.

Aha hari amamoto, aho amamoto afite akamaro ko kujyana umuntu n'ibintu aba yaguze bakabimusangisha mu rugo. ub buryo bukaba ari bwiza cyane kuko butuma umuntu abona ibintu yaguze atarinze ahaguruka ngo bimusabe imbaraga ajya ku masoko.

Iyi ni moto iriho agasanduku y'ikigo cyitwa Vuba Vuba, ikigo cy'ubwikorezi gifasha abantu kuba bagura ibintu bakoresheje telefoni, ni ukuvuga kuri murandasi, bikabohererezwa mu rugo bitabagoye. Kuri ino foto harimo umugabo uri gukura ibintu kuri iyo moto, bigaragara ko abigejeje aho agomba kubijyana.

Iyi ni moto y'ikigo kitwa vuba vuba, iki kigo kikaba gifasha abantu kikabagezaho ibyo kurya cyangwa ibindi bintu baba baguze bikabageraho, izi serivise zikaba zifasha abanyarwanda ndetse n'abandi bantu kuko bituma ibyo baguze bibageraho mu buryo buboroheye.

Iyi ni moto ifite agasanduku inyuma ikaba ifite akazi ko kugemura ibintu umuntu aba aguze bakabimusangisha iwe, bikaba byorohera umuntu ubiguze kuba bimugeraho atarinze guhaguruka ngo yigire ku isoko, bityo bikamworohera.

Iri ni isoko rikorera kuri murandasi aho bacuruza ibikoresho bya eregitoronike ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye aho bavuga ko bashobora kubijyana ahantu aho ariho hose ku isi mu gihugu cyose waba urimo ko babikugezaho.

Iri ni isoko rikorera kuri murandasi ricuruza ibintu bitandukanye bituruka ku buhinzi urugero nk'imbuto n'imboga hano bagaragaje tangawizi ko bazicuruza ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ibi bikaba ari ibintu byiza cyane.

Ahangaha hari ameza ateretseho akantu k'agapapuro karimo ibintu kaziritseho umugozi. Ikaba iri n'impano iziritsemo cyangwa ibindi bintu, ubu bukaba ari uburyo bwiza bwo gupfunyika kandi bugaragara neza umuntu uhaye ikintu akabona ko wamwubashye.

Aha hari umugabo wicaye kuri moto, akaba akorera ikigo cyitwa vubavuba, kikaba gifite akamaro ko kuba cyakohetereza ibicuruzwa waguze bikagusanga mu rugo utarinze uhaguruka ngo wigireyo ku isoko, akaba ari uburyo buteye imbere kandi bwiza cyane.

Iri ni iduka rikorera kuri murandasi ricuruza inkweto bakaba bari kuvuga ko bafite inkweto nziza kandi ko bazikugezaho mu rugo nta kindi kiguzi bakwatse, ibi bintu bikaba ari ibintu byiza cyane kuko bituma umuntu agura inkweto bitamugoye.

Uru ni urubuga rwo kuri murandasi rucururizwaho ibikoresho bigiye bitandukanye, urugero nk'ibijyanye n'amatelefone, ibikoresho bya elekitoronike, ndetse n'imyambaro y'abagabo, imyambaro y'abagore, imyambaro y'abana, ndetse n'imyambaro bambara bagiye muri siporo.

Iri ni iduka rikorera kuri murandasi, aho ushobora kugura ibintu ukoresheje telefone yawe wifashishije murandasi, kandi ukaba wabigura uri hanze y'igihugu bicururizwamo. Hano bari kwerekana ko ushobora guhitamo igihugu urimo, bashyizeho nko kuba wahitamo kuba uri muri America, mu Budage, mu Burusiya ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye.

Moto ifite agasanduku hejuru. Iyi moto ikaba ifite agasanduku hejuru, ikaba ifite akamaro ko kugemura ibintu biba byaguzwe n'umukiriya, bikava mu iduka bikamujyanirwa iwe. Ubu bukaba ari uburyo bwiza bworohereza abakiriya kubona ibintu baguze, bitabagoye.

Aha turahabona abasore babiri bose bakikije moto, iyi moto ikaba ari iy'ikigo kitwa vubavuba iki kigo kikaba gifasha abantu kubona ibicuruzwa batumije bikabasanga mu ngo zabo mu buryo buboroheye.

Aha hari umukobwa wishyimye, uri kureba muri telefoni bigaragaza ko yishimiye ibintu ari kubona, ndetse yambaye n'utuntu mu matwi tumufasha kumva neza. Banamamaje amasoko ushobora guhahiraho, akorera kuri murandasi, ibintu bikakugeraho. Ndetse bishoboka cyane ko ari ibyo uyu mukobwa ari kureba akaba yishimye, kuko yumva ko bigiye kumworohereza ubuzima.

Iri ni iduka ariko rikorera no kuri murandasi; aho ushobora gufata telefone yawe ugatumiza ibintu bigiye bitandukanye: urugero nk'imboga, imineke nibindi byinshi bitandukanye...; bakabigusangisha mu rugo mu buryo bworoshye.

Hano hari moto zigiye zifite utuntu tw'udusanduku inyuma icyo zimaze zikaba zitwara ibicuruzwa zibivanye kubacuruzi zikabijyana kubabiguze, bikorohereza ababiguze kuba byabageraho batarinze bahaguruka ngo bajye kubyizanira.

Iri ni iduka rikorera kuri murandasi ricuruza ibintu bigiye bitandukanye. Hano berekanye ko bacuruza nk'imineke ndetse n'ibirayi . Bikaba ari ibintu byorohereza abantu kuba bahahira kuri murandasi Kuko bibafasha cyane.

Iri ni duka rikorera kuri murandasi, aho ushobora kujya ku rubuga rw'iryo duka ugahahiraho ikintu ukishyura bakakikugezaho iwawe mu buryo bworoshye, ubu bukaba ari uburyo bwiza cyane kuko butuma umuntu abasha guhaha atarinze ava iwe ngo bimugore.

Iri ni iduka rikorera kuri murandasi, aho ushobora kugura ikintu ukoresheje mudasobwa yawe cyangwa telefoni, ubundi bakakikugezaho mu rugo. Bagaragaje uburyo ki ushobora kwishyura, ko ushobora kwishyura ukoresheje ikarita cyangwa se ukoresheje telefoni. Ubu bukaba ari uburyo bwiza cyane.

Iri ni isoko rikorera kuri murandasi ricuruza ibintu bigiye bitandukanye, aho bagufasha kubigura ukoresheje telephone yawe ukabitumiza bikakugeraho mu buryo butagoranye, hano berekanye bimwe mubyo bacuruza kimwe kugura ibihumbi mirongo itatu ikindi kigura ibihumbi icumi.

Iki ni icyapa gitumirira abantu kugura amatike, akaba ari ikigo cyari kirimo kiratumirira abantu mu gitaramo, cyari kitabiriwe n'abahanzi ndetse n'abanyamideli bagiye batandukanye, ubu bukaba ari uburyo bwiza bwo kwamamaza kuko butuma abantu babasha kuza ari benshi.

Aha hari umugabo uri kumwenyura wicaye kuri moto ibi iriho agasanduku inyuma, izo moto zikaba zifite akamaro ko kugemura ibintu zibikura ku maduka aho umuntu aba yabiguze, bakabimujyanira mu rugo bityo bikamworohereza.

Iri ni isoko ryo kuri murandasi aho ushobora kugura ikintu ukoresheje telefone yawe bakakigusangisha mu rugo, bukaba ari uburyo bwiza bufasha umuntu kuba yahaha atarinze ava mu rugo cyangwa ngo abe yasohoka bimuvunye.

Iri ni isoko rikorera kuri Murandasi, aho ushobora kugura ibintu bivuye mu Burayi cyangwa mu Budage, ukabyohereza mu Gihugu cyawe, rwose ni ibintu byiza cyane kuko byihutisha kuba wagura ibintu hanze ukabikugezaho bimeze neza.

Aha hari iduka rikorera kuri murandasi ricuruza imyenda y'amoko yose aho wafata telephone yawe cyangwa mudasobwa ugasura urubuga rwabo ukigurira imyenda mwiza kandi ikakugeraho imeze nk'uko waruyiteze.

Iri ni iduka rikorera kuri murandasi ricuruza ibintu bigiye bitandukanye, urugero nk'imboga n'imbuto. Ikindi kandi bavuga ko bagufasha baka kugereza ibintu waguze i wawe ku buntu nta kindi kiguzi bakwatse.

Hano hari umugabo uri kugerageza gukuramo ikintu kiri gukingira umutwe bambara batwaye moto icyo dukunze kwita nka kasike. Akaba ari kuri moto iriho igisanduku, iki gisanduku kikaba gitwarwamo ibintu baba bagemuye babikura kuba bicuruza babijyanye ku baguzi.

Iri ni iduka rikorera kuri murandasi bicuruza ibikoresho bya electronic ndetse nibindi bikoresho bitandukanye ndetse n'imyambaro ,hano bari kwerekana mubyo acuruza harimo inkweto, memurikade cyagwa agakoresho kaba kariho ububiko umuntu abikaho Ibintu na Kuma kirukana imibu ndetse nibindi byishi bitandukanye.

Hano hari ibiganza bibiri, bifashe ishashi, iyo shashi ikaba irimo utuntu dufasha abakobwa mu gihe bari mu mihango, akaba ari ikigo gicuruza utu tuntu, kikaba kirimo kiratwamamaza, kivuga buryo ki twagirira akamaro abakobwa.

Iri ji isoko rikorera kuri murandasi, rikaba ricuruza ibikomoka ku mata ibyo tuzi nka yawurute rikaba ryorohereza abanyarwanfda kuba babona ibicuruzwa ku buryo buboroheye . Icyo usabwa ni ugufata terefone yawe ugasura urubuga rwabo ubundi ugatumiza iyo yawurute ikakugeraho neza ukayikoresha.

Iri nihahiriro rikorera kuri murandasi, rikaba rifasha abantu kuba bajya kuri murandasi bagatumiza ibicuruzwa bikabageraho bitabagoye. Urugero nkahano bagaragaje inyama ziba zibumbabumbye wagura ku mafaranga magana arindwi gusa ndetse banagaragaje shokora wagura ku bihumbi makumyabiri na bitandatu magana atanu gusa

Aha ni ahantu hacururizwa ibyokurya ariko bakorera no kuri murandasi ku buryo ushobora kubatuma ibyokurya bakabigusangisha murugo. Ubu akaba ari uburyo bwiza bwatuma umuntu abona ibyokurya kandi atarinze ahaguruka ngo ajye ahantu barira bikaba byamugora.

Aha hari umugabo uri gusobanura ibijyanye n'isoko rikorera kuri murandasi aho arimo arasobanura ibintu bagurisha, urugero nk'ibikoresho bya elekitoronike ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye wabasha kugura ku rubuga rwabo bikoroheye.

Hano hari urubuga rucururizwaho rukorera kuri murandasi rwitwa uzuri, rukaba rurimo rurabwira abantu ko rwagabanyije ibiciro kugeza kuri 35% ndetse bakaba barimo barizeza abantu serivisi nziza mu gihe baba babaganye.

Iyi ni moto iriho agasunduku kanditseho vuba vuba. Iyi moto ikaba ifite akamaro ko kuba ifata ibicuruzwa bivuye ku babicuruza, ikabigeza ku babiguze. Ibi bintu bikaba ari byiza cyane kuko bituma umuntu watumije ibi bicuruzwa bimugeraho ku buryo bwihuse, atarinze kujya kubyizanira.

Iyi ni moto iriho agasanduku, itwara ibicuruzwa ibikuye ku babigurisha, ikabijyana ku baguzi, ibi ngibi bigafasha abaguzi kubona ibicuruzwa bitabagoye kandi bitabasabye imbaraga nyinshi ngo bajye ku isoko kubigura, ahubwo bakabigurira kuri murandasi, bikabohererezwa mu rugo.

Aha hahagaze umugabo w'umumotari, wambaye casike ndetse n'ijire isa ubururu. Akaba afite akavirope kanditseho Kasha, kakaba kanateretse ku kindi kintu cy'umuhondo nacyo cyanditseho Kasha. Bikaba bigaragara ko ari kwampamariza iki kigo cy'ubucuruzi kitwa Kasha.

Uru ni urubuga rugufasha kurema urubuga nawe wakoresha, nk'urugero, mu bucuruzi cyangwa ibindi bintu, bakaba batanga ubufasha, babakaba bagufasha kwiremera urubuga rwawe bwite, ibi bibaka ari ibintu byorohereza abantu bifuza kuba batangiza nk'ubucuruzi cyangwa ibindi bikorwa byifashisha murandasi.

Iri ni isoko rikorera kuri murandasi, ricuruza ibintu bigiye bitandukanye, ibya elegitoronike, imyambaro, amashakoshi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Bukaba ari uburyo bwiza bugezweho, bwo gucuruza, aho ubasha kugera ku bantu benshi.

Aha hari moto ebyiri buri moto itwaye umugenzi umwe, ubu ni ubutwazi bukorerwa mu Rwanda bukaba bworoshya ingendo kuko bituma abantu babasha kugera aho bajya bihuse batagiye gutegereza ngo bibatware igihe kinini.

Hano hari abantu babiri b'igitsina gore, umwe akaba korera ikigo cya vuba vuba gifasha abantu kikabagezaho ibintu baba baguze bitabagoye, uwa kabiri akaba yishimye bigaragara ko yari yatumije ibintu bityo bakaba babimugejejeho.

Aha hari umugabo uri gusatira igipangu ngo akinjjiremo bikaba bigaragaza ko agemuye ibintu umuntu nyir'icyo gipangu yari yatumije bukaba ari uburyo bwiza bwo korohereza abakiriya kuba babona ibicuruzwa baguze batarinze bava mu rugo.

Hano hari moto igemura ibicuruzwa ibivana ku babigurisha, ikabijyana ku babiguze. Ubu buryo ni bwiza cyane kuko bworohereza abaguzi; kuba bagura ibintu bikabagezwaho mu buryo bworoshye, bitabagoye ngo bajye ku isoko kandi umwanya wabo ari mutoya.

Aha ni ahantu bita ku bakobwa ku bijyanye n'ubwiza ariko bakaba bibanda ku bijyanye n'ingoyi, umukobwa aba agenda in ingoyi ze bakazitunganya zikamera neza, bikaba ari ibintu byiza cyane kuko umukobwa ufite ingoyi zimeze neza ubona bishimishije.

Amamoto agiye atandukanye yose afite udusanduku inyuma. Ayo ma moto akaba afite akamaro ko kugemura ibicuruzwa umuntu aba yaguze, bakabimusangisha mu rugo bitamugoye. Bukaba ari uburyo bwiza bwo koroshya ubuzima, umuntu akaba yabona ibintu yaguze atarinze ahaguruka ajya ku isoko.

Aha hari moto nyinshi zigiye zitandukanyu hakaba hicayeho abantu bazitwara akaba ari iz'ikigo kitwa yego moto zikaba zigufasha kukugeza ahantu ugiye umeze neza kandi mu buryo bwihuse bukaba ari uburyo bufasha abantu kudatinda mu nzira gahunda zabo zikaba zapfa.

Iri ni isoko rikorera kuri murandasi aho ushobora kugurira ibintu kuri murandasi wifashishije telefoni yawe gusa, ukishyura ubundi bakabikugezaho ndetse niyo hataba ari mu gihugu cyawe, ubu bukaba ari ubucuruzi bwiza kandi bujyanye n'ikoranabuhanga, bijyanye n'iterambere rigezweho.

Hano hari isoko rikorera kuri murandasi, aho ugenda ugahitamo ikintu ushaka kugura, ukakigura bakakigusangisha mu gihugu urimo, urugero; niba ugitumije uri hano mu Rwanda, bakakikohereza. Mu byo bacuruza harimo amakanzu, inkweto, ibikapu, ndetse n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye wagura ukishima.

Iri niduka ricuruza ibikoresho bya eregitoronike bigiye bitandukanye aho ubagana bakaguha ibikoresho wakifashisha m'ubuzima bwawe bwa burimunsi bikakorohereza ubuzima urugero nkama televiziyo amaradiyo ndetse nibindi byinshi bitandukanye.

Aha hari amamoto menshi atandukanye buri yose ifite agasanduku inyuma aya mamoto ikintu amaze akaba arukugemura ibintu umuntu yaguze, bakabimuzanira murugo bikamworohereza ntarinde guhaguruka ngo yijyire kwisoko ahubwo bakabimugezaho murugo.

Iyi ni imodoka ifite akamaro ko kugemura ibintu umuntu yaguze akoresheje telefoni ye bakabimuzanira mu rugo. Bukaba ari uburyo bwiza kandi bugezweho bujyanye n'iterambere, butuma umuntu abasha gutumiza ibintu yibereye iwe bikamugeraho bitamugoye.

Aha ni ahantu hacururizwa ibintu bigiye bitandukanye bituruka kubuhinzi, hakaba hafasha abantu mu buzima bwabo bwa burimunsi kuko babasha kwihahira imbuto, imboga ndetse n'ibindi bintu bakeneye bibafasha bityo bakabaho neza.

Aha hari umugabo uri guseka, ufite amvelepe irimo ibintu bigiye bitandukanye: nk'imbogoga, amavuta n'ibindi,...; akaba abigemuye kuri moto, kuko afite za moto zimwe zigemura ibintu zibivana ahantu bicururizwa bikajyanirwa uwabiguze.

Aha hari igare rifitwe n'umuntu uhetse igikapu cya vuba vuba. Iki kikaba ari ikigo gifasha abantu kuba bagura ibintu bikabageraho mu ngo zabo, bitabagoye cyangwa ngo bibasabe imbaraga barinda kwihagurukira ngo bajye ku bizana ku masoko, ahubwo bikabohererezwa mu ngo.

Hano hari umukobwa ufite Telefoni ye mu ntoki, akaba ari gukoresha porogaramu yitwa Vuba, iyo porogaramu ikaba igufasha kugezwaho ibicuruzwa waguze mu buryo bwihuse kuko bigufasha kubona ibicuruzwa watumije utarinze uhaguruka ngo bikugore ujya kubizana.

Iri ni iduka rikora ariko ryifashishije Murandasi, aho bagufasha kuba bakuzuriza icupa ryawe ryashizemo gaze, cyangwa iryashizemo amazi, bakaba bafite na moto zihutisha akazi kugira bakugereho bitagoranye.

Iri ni iduka rikorera kuri murandasi, aho ushobora kugana imbuga nkoranyambaga zarwo, ukabandikira, bakaguha ibintu bigiye bitandukanye, urugero; nk'imyenda, inkweto, ndetse n'ibindi byinshi. Bukaba ari uburyo bugezweho bwo gucuruza kuko butuma abantu benshi babona ibyo ukora.

Iri ni isoko rikorera kuri Murandasi rikaba rifasha abantu kuba bagura ibicuruzwa bikabageraho bitabagoye, hano berekanye uburyo ki ushobora gukoresha iryo soko, berekanye ahantu ushobora gushakira igicuruzwa, ndetse no kuvuga igihugu ushaka icyo gicuruzwa bazakikusangishashamo.

Uru ni urubuga rwitwa irembo rufasha abantu bagiye batandukanye kubona serivise za leta bitabagoye urugero nko kubona icyemezo cy'uko ikiri ingaragu utarashaka cyangwa kwaka serivise zo gutana n'uw mwashakanye cyangwa kwemeza ko uri imfubyi ibi bikaba ari byiza cyane kuko byorohereza abantu kubona serivise nk'izo.

Aha ni icyapa cy'ikigo gikora ubutwazi bw'ibintu kikaba cyohereza ibintu waguze kikabikugezaho, bityo bikabasha kukugeraho mu buryo bwihuse, ibi bigo bikaba bifite akamaro gakomeye cyane kuko ari nk'umuntu waba atabasha guhaguruka ngo yigere ku isoko ariko kikamworohereza kikamuzanira ibicuruzwa mu rugo.

Iri ni isoko rikorera kuri murandasi, aho bacuruza ibintu bigiye bitandukanye, ibijyanye n'imbuto ndetse n'imboga. Bukaba ari uburyo bwiza bwo guhaha ukoresheje telefoni yawe ndetse n'ikoranabuhanga bitakugoye.

Iri ni itsinda ryo kuri murandasi aho ushobora kujyamo ukagurisha ikintu ufite ugurisha cyangwa ukagura ikintu ushaka kugura bukaba ari uburyo bwiza bworohereza abantu bafite ibintu byo bagurisha kuba babona uko babigurisha cyangwa bashaka kugira ibyo bagura bakabona uko babigura.

Iri ni isoko rikorera kuri murandasi, aho usura urubuga nkoranyambaga rwabo ukabasha kwigurira ibintu byiza kandi bikakugeraho bimeze neza, kuko baba bafite n'uburyo babikugezaho n'iyo waba uri hanze y'igihugu kandi bikakugeraho bimeze nk'uko wabiguze.

Aha ni isoko bacuruza ibyo kurya bigiye bitandukanye, hano bari kugaragaza ibitoki ubu ushobora kuza ukabigura cyangwa ukaba wabitumiza bakabigusangisha mu rugo, bukaba ari uburyo bwatumye guhaha byoroshywa, ku buryo umuntu aho ari hose yaba arashobora guhaha.

Uyu ni umugabo uri kuri moto ni moto ikora ubwikorezi cyangwa ubutwazi bw'ibintu biva ku babigurisha bijyanwa ku babiguze, urugero: bibasanga nko mu ngo cyangwa ahandi hantu babitumije, baba bari ubu bwikorezi bukaba bufasha abantu cyane.

Iri ni iduka rikorera kuri Murandasi, aho ushobora gukoresha Telefone yawe ugasura urubuga nkoranyambaga rwabo, ukaguriraho ikintu ushaka ndetse n'iyo utaba uri mu gihugu bacururizamo bakakigusangisha mu gihugu cyawe, ubu bukaba ari ubucuruzi bwiza butuma umuntu abasha kubona ibintu atabona mu gihugu cye.